Igihe ugiye gutera umuntu urukingo ukabona afite ubwoba, si byiza ko umukoresha n'imbaraga, banza umuganirize umugire inama, ushobora gukoresha agahato ejo hakavamo izindi ndwara.

iyo abaturage begerejwe amazi nabo birabafasha bakora isuku nta bwoba bafite ngo bapfubye ibintu ubuzima bwabo burushaho kumererwa neza kuko amazi ni ubuzima.

Niba uri umubyeyi ufite umwana, ukaba wambaye igikoresho cy'ubwirinzi, nk'agapfukamunwa, si byiza ko umuhumekeraho cyangwa ngo umuhe ibere umusoma kuko wamwanduza.

Umubiri w'umuntu ukenera litiro byibura y'amazi asa neza. Ni byiza rero ko tugira amavomero ahagije, atekanye yegereye n'abaturage kugira ngo babashe kubona ubuzima buzira umuze.

Ku bigo by'amashuri hashishikarizwa gushyiraho ubukarabiro buhagije, byibura kuri buri muryango hakaba hari aho hari amazi meza n'isabune, buri mwana wese akaba agomba kwinjiramo abanje koga intoki.

Ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa agahinda gakabije, hari ibigo byashyizweho na Leta wegera bakakuganiriza kandi ukamererwa neza, igihe ubonye uwatangiye kugaragaza ibimenyetso wamugira inama yo kumugezayo atararengerana.

Gahunda ya gikuriro, ni uburyo bwiza bwo gufasha abana bari mu mirire mibi, bakabona indyo yuzuye kandi ababyeyi babo bagahugurwa uko bategura ibiryo bifitiye akamaro umwana.

Ibitabo bihabwa abajyanama b'ubuzima. Mujye mubisoma mutuje, kuko haba harimo inama zigiye zitandukanye, zizabafasha mu bikorwa mukora bya buri munsi.

Buri gikorwa cyose kigomba kuba gifite icyumba cy'abakozi igihe bagiye mu masaha ya poze bakabona aho bunguranira ibitekerezo cyangwa bakaganira bakanaruhuka ku mirimo bamaze gukora.

Abahagarariye inzego z'ubuzima, ni byiza ko bashaka amakuru yimbitse bakamenya niba umuturage ubufasha akeneye bwose bumugeraho kandi ku gihe, ibyo bituma abaturage bagirira icyizere ubuyobozi buriho.

Igihe imishinga yahuye runaka bagiye mu nama, mu mahugurwa cyangwa n'ibindi, ni byiza ko bafata ifoto y'urwibutso, igihe babikeneye bakazibukiranya uwo munsi.

Ibigo by'abanyeshuri bagomba kubanza mbere yo kugira ngo abana batangire kwiga, bakareba niba bambaye impuzankano. Basa neza, bafite isuku, baje banoze.

Tugomba gukurikira ubuzima bw'abana, ukareba niba indeshyo ye, ibiro afite bihura. Icyo gihe iyo usanze bitandukanye, umwana aba ari mu mirire mibi. Ugakenera amabwiriza ya muganga.

Abantu bashinzwe ubwubatsi bw'amavomero, ni byiza ko bayubaka igihe umuntu amaze kuvoma akongera agafunga, kuko iyo asigaye ameneka ubukungu bw'igihugu buba buri gutakara.

Imishinga yita ku buzima bw'abantu igomba guhugura abakozi bayo byibura nyuma y'ukwezi. Bituma bakora ibintu bazi kandi banafitiye ubushobozi.

Ahantu abantu benshi bahurira bavoma, dushishikarizwa byibura gushyiramo umuti wabugenewe, buri kwezi cyangwa buri cyumweru kugira ngo abantu barusheho kuvoma amazi meza.

Ababyeyi bashishikarizwa kwita ku buzima bw'abana kuva avutse kugeza ageze ku myaka irindwi. Ni byiza rero ko aribo babitwarira gufata urukingo mu gihe habayeho kurutinya akamenya uburyo ki amukaruma cyangwa akamuhumuriza.

Mbere yo kujya kuvoma amazi banza utunganye igikoresho cyawe nk'ibido, indobo cyangwa ikindi kintu cyose utwaramo amazi, kuko iyo ukijyanya gisa nabi n'ubundi uba uri kwikururiza umwanda.

Hari imigezi ikwiye guhindurwa ku baturage kubera ko igihe bayivomeraho bibatwara imbaraga nyinshi, bigatuma n'amazi ataza vuba bitewe no kubura imbaraga.

Abaganga babwirizwa kwita ku barwayi, yaba ari uwumugannye yarembye cyangwa agifite imbaraga, cyane cyane ufite intege nke agomba kwitabwaho byihuse kugira ngo ataza kuhasiga ubuzima.

Abantu batureberera mu buvuzi bahagarariye amavuriro yose mu gihugu, iyo bakoze inama bareba abaganga batagishoboye cyangwa amavuriro atagishoboye bakayahagarika.

Ababyeyi bose bafite abana bari munsi y'imyaka irindwi, bakwiye gukurikirana gahunda ya leta ya gikuriro, yigirwamo uko ifunguro ry'umwana ryuzuye riba riteguye, ririmo ibitunga umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara.

Ibigo by'amashuri, birashishikarizwa kugira amazi meza. Bagafata igikoresho cyabugenewe bagashyiramo umuti wica udukoko, hanyuma abana bakaza kunywa amazi bazi neza ko bari kunywa ubuzima, batari gufata indwara zituruka mu mazi yanduye.

Buri rugo rukwiye kugira kandagira ukarabe kugira ngo harusheho kongerwa imbaraga mu isuku, ugabanye umwanda tunirinda ibyorezo biva mu mwanda ukabije.

Ibigo byita ku buzima bw'abantu bikoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ingeri z'abatuye igihugu bagire ubuzima bwiza. Bakohereza inkunga zigiye zitandukanye ndetse n'ubufasha bw'imirire iboneye.

Leta y'u Rwanda yashyizeho inkingo ku bana b'abakobwa kugira ngo bakingirwe kanseri y'inkondo y'umura ibarinda kuzabura urubyaro, ibyo bikorwa igihe umwana ageze mu mwaka w'amashuri wa gatandatu.

Gushyira ivomeraro hagati y'abaturage, ni byiza ko bareba umuturage muri bo uzajya ureba umutekano waho ndetse n'isuku, abashatse kuhakorera ibikorwa bitemewe akabagira inama, akababuza.

Iyo uri gukora mu bizamini cyangwa ibisubizo, ambara uturindantoki, wirinde ibintu byose birangaza nk'imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi bikoresho. Shyira umutima ku kazi urimo, wenda ibindi wakenera cyangwa ugize ikibazo, uze kuba wabikora mu mwanya wo kuruhuka.

Abantu bakuriye ibigo runaka cyangwa amatsinda runaka twifashishije nk'urugero nk'abajyanama b'ubuzima bajyana ku bigo nderabuzima, igihe wamutumye ibintu runaka ugomba kuba waramuhaye umurongo ngenderwaho ndetse n'ibikoresho agomba kwifashisha bituma akuzanira amakuru yuzuye kandi yizewe.

Mu bantu bari mu nkengero z'umujyi bashishikarizwa kwirinda kuvunisha umwana ukiri muto. Ntibivuze ko atakora imirimo, ariko bakamurinda gukora imirimo irengeje imbaraga ze.

Abajyanama b'ubuzima bakora akazi kenshi kandi kavunanye. Bavura indwara ya malariya, bakita ku buzima bw'abamama batwite ndetse n'abana bari munsi y'imyaka irindwi.

Kugira abakozi ukagira n'umwanya bagomba guhurira ahantu hamwe, ni ibintu byiza cyane. Kuko bituma barushaho kumenyana, buri umwe wese akamenya icyo mugenzi we akunda, icyo yanga, n'ikimunezeza n'ikimushimisha.

Abarimu mugomba gushyiraho byibuza amahugurwa rimwe mu gihembwe, kugirango igihe abana bagarutse mu mashuri na bo babe bafite ubundi bumenyi bagiye guha abanyeshuri.

Igihe ubonye hari ahantu hahuriye abantu benshi, mbere yo kugerayo banza urebe ko nta cyorezo kirimo hari umutekano n'isuku, igihe ubonye hari ikintu kimwe muri byo kituzuye irinde kujyayo.

Ni byiza ko igihe batumenyesheje amakuru y'uko hari icyorezo kidasanzwe cyageze mu gihugu, mu duce dutuyemo, tukabishyiramo imbaraga dukangurira n'abatarabimenya kongera ubwirinzi.

Mucuruzi w'imiti ndetse nawe muganga, mbere yo kwandikira umuntu umuti, banza urebe ko uhuye n'indwara arwaye, n'ibiro afite. Nawe uwucuruza mbere yo kuwumuha genzura niba uhuye n'ibyo muganga yamwandikiye.

Mu gihe hari gusuzumwa abaturage, ni byiza ko ukangurira na bagenzi bawe mugafata iya mbere mu kwisuzumisha.

Umubano hagati y'ibihugu bya Afurika ndetse no hanze yayo, ni byiza, biradufasha kuko bitwongerera imishinga ifasha abantu b'abakene, abarwayi ndetse n'ibindi.

Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, byibura mu minota mirongo itatu. Ku muntu uvuye ahantu hahuriwe n'abantu benshi, ni byiza kuko birinda gukwirakwizwa, ku ibyorezo runaka.

Umuntu wese utorewe kwita ku buzima bw'abantu mbere yo kugira ngo ahabwe inshingano na we abanza gusuzumwa, ubuzima bwe hakareba niba ameze neza, kugira ngo azatange nawe ibyo afite agendeye ku mubiri we.

Ibigo nderabuzima ni ngombwa ko biha abajyanama b'ubuzima ibikoresho by'ibanze bagomba gukenera, kuko bagenda mu bihe bitandukanye by'imvura, by'izuba kandi bagahura n'abantu baba banduye indwara zitandukanye.

Buri hantu hose hahurira abantu. Ku masoko, ku kiliziya, ku mashuri, ndetse no mu rugo iwawe. Ugomba kugira ubukarabiro, buri gihe cyose uhageze, ugakaraba intoki n'amazi meza, kandi n'isabune. Ugacya ukumva ko usa neza, byibura ugakaraba mu masegonda mirongo itatu.

Abajyanama b'ubuzima ni abantu bavura abaturage babegereye birirwana nabo umunsi ku munsi, babitaho cyane cyane ku babyeyi batwite ndetse n'abana bari munsi y'imyaka icumi.

Ahantu havomerwa amazi, hagomba kuba hari umuntu ushinzwe gushyiraho umurongo ngenderwaho, amasaha yo gutangira no kuruhuka ndetse no gusoza, byaba ngombwa hakajyaho n'ikiguzi.

Ababyeyi ndetse n'inzego z'umutekano ni byiza ko barinda abana kwegera kuvomera, bakabarinda kuharwanira no kuhakenera kuko bishobora kubatera kuhakura izindi ndwara.

Abantu begereye ivomero rusange bakwiye kuhagirira isuku bagatema ibihuru bihari ndetse n'ibyatsi bidakwiye bakabiharura, icyo gihe bizajya bituma bavoma amazi meza kandi afite isuku.

Igihe utegura kuzana abaturage mu nama cyangwa amahugurwa hari ibintu by'ibanze ugomba kubategurira bitewe n'igihe amahugurwa azamara. Igihe ari ay'umunsi umwe hagomba gukenerwa amazi bagomba kwifashisha. Yaba birenze iminsi ibiri n'icyumweru ugashaka aho bazarara, ibyo bazakenera barya bambara, ndetse n'aho bazicara.

Leta y'u Rwanda idushishikariza kwita ku buzima bw'abana. Bahabwa indyo yuzuye cyangwa banategurirwa imikino igiye itandukanye, ibahuza n'abandi kandi ituma bishima.

Ingo zo mu cyaro zikwiye gukorera isuku yihariye y'amasahani, bakayohoza neza n'amazi n'isabune hanyuma bakayanika ku gatanda akuma neza ku buryo mikorobe zose zipfa.

Mubyeyi igihe ujyanye umwana kwa muganga, sobanurira muganga uko umwana yafashwe uko amerewe ubuzima abayemo n'ibyo arya, ibyo bituma muganga aguha ubuvuzi ntacyo yishisha nta n'icyo afitiye ubwoba.

Igihe ugiye kubaka ahantu ho gukorera siporo nk'izo koga, ni byiza ko buri munsi cyangwa buri cyumweru ushyiramo umuti wabugenewe kugira ngo urinde ya mazi kwandura no kwanduza abayogera.

Abagore cyane cyane igihe turi mu nama, cyangwa turi imbere y'abantu bitewe n'imyambarire yacu, igihe wambaye nk'ijipo ni byiza ko wiyubaha, kuko iyo wicaye nabi ubangamira abari imbere yawe.

Ibigo bishinzwe ubuzima ndetse n'ibirwanya indwara, ni byiza ko begera abaturage bakabahugura, bakamenya uburyo bagomba kwirinda, bakanarinda n'abana babo ndetse n'inshuti.

Abanyarwanda dushishikarizwa kwizigamira kugira ngo ejo mu gihe tuzaba tukiri mu zabukuru tutagishoboye gukora, y'amafaranga twizigamiye, azadufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Amazi yose ntago ari byiza ko tuyakaraba, iyo ukarabye amazi yanduye ntago uba uri kwirinda ahubwo ubu uri kwiteza uwundi mwanda, igihe ugiye kuwurwanya fata amazi yabugenewe meza n'isabune ukarabe byibura iminota mirongo itatu.

Igihe uri gutegura icyumba k'inama, ubanza kumenya neza ko abantu bari bube bicaye, amajwi yabo ari bube yumvikana ntawe usubirishamo undi.

Kujyana ibikoresho ku ivomero bifite isuku ni ikintu cyiza kugira ngo y'amazi meza uvomye ajye mu gikoresho cyiza, arusheho no kukugirira umumaro mu buzima bwawe. Amazi meza ubuzima bwiza.

Iyo uri gusuzuma umumama utwite wumva uko umwana ari gutera, urabanza ukamubwira utugambo twiza, ukamuhumuriza ndetse ukamukomeza umubwira ko igihe cyose igisubizo cyavamo agomba kumva ko atari we wa mbere cyangwa uwanyuma.

Ntago inganda zemerewe kubakwa hagati mu miturire y'abaturage, kuko zisohora imyuka mibi, n'urusaku, bityo bikabangamira abahegereye bigatuma bandura n'indwara zitandukanye, nk'ibituntu ndetse n'ubwonko kudatekereza neza.

Mubyeyi igihe umaze kubona ko wabyaye umwana agakura, kurikiza ifishi baguhaye umukingiza ahabwa inkingo zose uko zagenwe kandi igihe umujyanama akubwiye ko hashyizweho umunsi wo kujya gupimisha umwana ibiro n'imikurire ye, ugomba kubikurikiza.

Abantu bakuru begereye amazi ibiyaga ndetse n'imigezi, ni byiza ko barinda abana babo kujya kubyongeramo kuragiramo ndetse n'ibindi bikorwa bitemewe kuko baba bari kwangiriza ibidukikije bituyemo nk'amafi n'ingona.

Abajyanama b'ubuzima ni byiza ko byibura buri kwezi bakorerwa amahugurwa kugira ngo bongererwe ubumenyi. Ni bo bantu bahura n'indwara zitandukanye ibyorezo ndetse n'ibindi.

Byibura abakuriye amavuriro bagakwiye guhura buri nyuma y'icyumweru kugira bungurane ibitekerezo, aho umwe yasubiye inyuma bakamuzamura, aho yacitse intege bakamutera imbaraga.

Niba uri umuyobozi ukaba uteganya kubumbiririza hamwe abaturage ni byiza ko ushyiraho ubukarabiro, ubwirinzi ukabwongera, kuko bose baba babaye mu buzima butandukanye, bafite n'indwara zitandukanye. Iyo begeranye bashobora kwanduzanya bakahakura ubuzima buri mu kaga.

Abajyanama b'ubuzima bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu, bongerewe n'ibikoresho bituma, bapima imivuduko y'abantu uko imeze, iyo wumvise umubiri utangiye kukumerera nabi, wabagana bakagufasha.

Mu gihe cy'icyorezo ni byiza gukurikiza amabwiriza yashyizweho, by'umwihariko umubyeyi ufite umwana muto, aba akwiye kwirinda akarinda n'uwo mwana afite kuko ni we uba umufite mu nshingano.

Niba uri gusukura igikoresho cyanduye, reba umuntu ku ruhande aze agusukireho amazi kugira ngo utaza kwanduza ibice byawe by'umubiri byose, ayo mazi agomba kuba asukuye arimo n'umuti wabugenewe.

Abantu twese muri rusange, ingeri zose, abana, abari mu zabukuru n'urubyiruko, turacyashishikarizwa kurwanya SIDA kuko iracyahari. Twongera ubwirinzi, gukoresha agakingirizo, ndetse na buri kimwe cyose twakora kugira ngo tuyirandure burundu.

Abamama biteje imbere, mu kwibumbira mu matsinda, agurizanya amafaranga, ufite umushinga ashaka gushyira mu bikorwa bakamugira inama n'uburyo azabigenza.

Iyo uvuga imbwirwaruhame avuga ururimi rutandukanye n'abamuteze amatwi, ni byiza ko hashakwa usemura kugira ngo basangire ijambo, bose bari gusobanukirwana amagambo bari kuvuga, bari kugendera mu mujyo umwe.

Abaturage batuye mu byaro bari mu nzira z'ubukene bashaka kwiteza imbere, bakwiye kugana imishinga iza ibagana nk'amakompasiyo kuko baba bazanye ubufasha bugiye butandukanye, nko kurihira abana mu mashuri, kubaha ibikoresho bakenera bambara, barya ndetse n'ibindi.

Kubaka amavomero ni byiza ko uyafunze akoresha ubumenyi bwe kugira ngo abazajya baza kuyakoresha, atazajya ameneka ku ruhande, kuko icyo gihe iyo akoreshejwe neza n'umutungo w'igihugu ugenda neza.

Ibyumba bisuzumirwamo abarwayi, hagomba kuba harimo isakazamashusho, bigatuma bimurangaza kugira ngo akomeze kwirengagiza ubwo bubabare afite.

Abahinzi bakwiye gutunganya umusaruro wabo neza bakawuhunika mu mifuka yabugenewe, kugira ngo hatazazamo udukoko dutuma imbuto zawo zangirika cyangwa bikagera ku isoko byarahuye n'uburwayi.

Igihugu cy'u Rwanda abashakashatsi bagaragaje ko bamaze kwiteza imbere, cyane cyane mu kwegerezwa amazi bose bayegereye kandi bamerewe neza.

Amavuriro ashishikarizwa ko byibura ahantu bakirira abarwayi, hagomba kuba harisakaje amashusho, abarwayi bakarangarira bakareba amakuru, indirimbo, ndetse n'ibindi bibafasha kumererwa neza.

Ku ivomero ni ahantu bavoma amazi bayajyana mu rugo, ntago ari byiza kuhakorera ibindi bikorwa by'isuku, nko kuhogera, kuharagira, kuhafurira ndetse n'ibindi.

Niba muri kwiga ku ngingo runaka, si byiza ko ugaragaza amarangamutima yawe. Kuko bituma uzanye ingingo nziza, atinya kuyivuga, bitewe n'inzira wavuzemo.

Abakozi abo ari bo bose bakwiye guhura mu gihe bumvishe ko hari ikintu kitari kugenda neza mu kazi kabo, bakungurana ibitekerezo, bakaganira kandi bigakorwa buri gihe bumvishe batari kumererwa neza mu kazi.

Turashishikarizwa kuboneza urubyaro kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo urengeje abana barenze babiri, abiyongereyeho batangira kugera mu buzima bubi n'imirire itari myiza.

Igihe ufite ubutumwa bw'abantu b'ingeri zitandukanye, ubw'abamama ukwabwo, abapapa, abana ndetse n'urubyiruko, ni byiza ko ubitanga mu bihe bitandukanye, kuko bose ntago uba uri bubabwire bimwe.

Igihe wumvishe amakuru yuko ikigo nderabuzima kegereye abaturage kugira ngo babasuzume indwara zidakira cyangwa zitandura. Menyesha abandi kuko aya ari amahirwe abonetse mugomba kubyaza umusaruro.

Amavomero yose agomba kugirwaho n'abantu baje kuvoma. Abaje kureberera rimwe na rimwe nibo bateza ibibazo, hakaba havamo kuba bayahangiriza cyangwa bakahateza undi mwanda. Hakwiye gushyirwaho umuntu ushinzwe kuhagenzura umutekano waho kugira abashe kubirinda.

Amavomero ni byiza ko abantu bahavomera gusa ntibagire ikindi gikorwa bahakorera nko kuhafurira, kuharagira ndetse no kuhakinira, kuko bituma iryo vomera rirushaho kugira umutekano n'isuku.

Igihe wahuye n'abantu mwagiye guhugurwa ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu, irinde ikintu cyakurangaza, kuko ubwo bumenyi uba wagiye gufata, uba uri bujye kubusobanurira n'abandi.

Umwana wawe si byiza ko umuheza igihe yiga ukamusiga mu rugo ngo wabuze ibikoresho. U Rwanda rwacu rwagize amahirwe yo kwakira abantu bafite imishinga igiye itandukanye ifasha abana nk'amakompasiyo kandi bashyigikira uburezi kuri bose.

Igihugu cyangwa amatsinda runaka, ni ngombwa ko bakora ibarurishamari kugira ngo barebe niba barateye imbere cyangwa barasubiye inyuma. Icyo gihe bamenya umwanzuro bafata mu mishinga yabo.

Ni byiza ko umuntu wese ashyira imbaraga mu isuku, cyane cyane ku mazi, igikoresho bayavomeramo, aho bavomera, uyavoma ni abantu bagomba kuba basa neza mu gihe cyose bayakeneye ndetse bari no kuyakoresha.

Abaganga mukwiye kugira ibikoresho mwifashisha kugira ngo mwirinde indwara. Cyane cyane igihe mugiye gusuzuma umurwayi, mugomba kwambara uturindantoki, agapfukamunwa, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'amataburiya.

Abajyanama b'ubuzima ni abaganga begera abaturage bakita ku bu buzima bw'abana, iminsi igihumbi, abagore batwite kuva yatangira gusama, kugera umwana amaze gutangira ishuri.

Ahantu hose hari ivomero, umujyanama w'ubuzima cyangwa undi muntu wahuguriwe ibijyanye n'isuku, agomba kubegera akababwira uburyo ki bazajya bakoresha ayo mazi cyangwa rimwe na rimwe agashyiramo imiti yabugenewe.

Niba unyuze ku bana bangiriza amazi ku ivomero, si byiza ko ubasiga bakomeza kuyamena, bagira inama ubabwire akamaro k'amazi ejo batazongera kugwa muri iryo kosa.

Umwana w'umukobwa cyangwa umubyeyi igihe yumvise ko yasamye, agomba kwihutira kujya kwa muganga bakamusuzuma ndetse bakamuha n'amabwiriza. Hari izindi ndwara zigomba kwitabwaho nko kureba uko umuvuduko we uhagaze, uko umutima we uri gutera ndetse n'ibindi.

Kwita ku buzima bw'umwana mu minsi igihumbi, umuha indyo yuzuye, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, bituma arushaho gukurana umunezero ndetse n'urukundo rwa kibyeyi. Bikamuha ubuhanga ndetse n'umuco.

Abagabo, abagore, abasaza, abakecuru, ndetse n'abana; dushishikarizwa kwikingiza mu gihe hateye icyorezo runaka. Kugira ngo turusheho kukirinda kidakwirakwizwa mu bantu bose. Bigatuma turushaho kugira ubuzima bwiza.

Abamama si byiza ko mwigunga kuko igihe umwana ababonye atangira gutekereza ibintu byinshi. Akibaza ati "Ese umubyeyi wanjye afite ikihe kibazo?" Yababaye, namurakaje bigatuma na bo bagira uburakari.

Abantu bashinzwe kuganiriza abarwayi cyangwa abaturage ni byiza ko abanza kumva ibyiyumviro bye kugira ngo amubwire ikimugenza, abona n'inzira ari bukinyuzemo.

Kwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, urabanza ukabatega amatwi ukumva uko arwaye uko yafashwe n'uko yifuza kuba yavurwamo, icyo gihe biguha umurongo, wo kuba wamuvura neza mutabangamiranye.

Amavuriro yose yaba ayigenga cyangwa aya Leta, agomba gushyira imbaraga mu kwita ku buzima bw'abantu cyane cyane ku ndwara zitandura, akazivura rimwe na rimwe bagashyiraho ubukangurambaga.

Abanyarwanda dushishikarizwa kugira isuku y'umubiri, byibura ukoga gatatu ku munsi, ugahindura imyenda nka kabiri, ukogosha umusatsi ufite ku mutwe wawe.

Mu bihugu bituye mu bice by'ibiyaga bigari biri mu nzira z'iterambere, hari igihe kigera hagatera inzara, ni byiza ko abafite ibyo kurya, ibyo kwambara babegera bakabatera inkunga.

Iyo hamaze gukorwa inama, amahugurwa ndetse n'ibindi byahurije abantu hamwe bitandukanye, habwirizwa ko buri umwe wese wari uri muri icyo gikorwa agaragara mu ifoto.

Igihe umuntu ari kukuganiriza ku buzima bwe ukabona agize amarangamutima nko kurira, iyegereza amazi uhite uyamuha ayanywe yongera kugarura ubuyanja akumva ameze neza.

Urubyiruko dushishikarizwa kwihangira imirimo, ni twebwe mbaraga z'igihugu, niyo mpamvu dusabwa kuzikoresha kandi mu mirimo igiye itandukanye, idufitiye inyungu, ndetse ikanafasha bagenzi bacu bari mu bukene batarabasha kwiteza imbere.

Mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, cyagaragaje ko abana bari mu mirire mibi, bagabanutseho mirongo ine ku ijana.

Ni ukubera iki abamama ari bo bagira agahinda gakabije? Ahanini biterwa no gushaka umuryango mubi umuhoza ku nkeke cyangwa akabyara abana bakajya mu biyobyabwenge. Icyo gihe nta byishimo ajya agira na bike.

Ni byiza ko igihe ubonye umuntu uri kure y'abandi, uri kwitekerezaho, udashaka kwishima umwegera ukumva ibyiyumviro bye, birashoboka ko yaba yatangiye kugira ihungabana cyangwa indwara zo mu mutwe.

Ubushakashatsi bwagaragaje ko abamama aribo bakunda kugira indwara zo mu mutwe, bitewe n'inshingano nyinshi baba bafite; nko kwita ku bana, umugabo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni byiza ko igihe ugiye gutanga amahugurwa ku baturage, by'umwihariko abagore, ujyana ibikoresho bigaragaza ibimenyetso nk'amafoto cyangwa andi mashusho wafashe ku ruhande.

Ibikinisho nk'ibipupe ndetse n'isakazamashusho, ni bimwe mu bidufasha mu kuvura abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, baba bameze nk'abana cyangwa abantu bibagiwe batazi ikintu na kimwe.

Umwana uwo ari we wese ugejeje imyaka irindwi, agomba guhita ajyanwa ku ishuri, leta yashyizeho uburezi kuri bose, nta n'umwe ugomba guhezwa kandi bakiga neza n'amashuri yarabegerejwe.

Siporo si umuti w'umubiri gusa, unadufasha mu iterambere no mu bukungu, hari ibihembo bishyirwaho uwakoze neza agahembwa neza kandi akarushaho kumenyekana.

Indwara yo mu mutwe, isabwa kwitabwaho, mu gihe kirambye kandi gahoro gahoro, ni byiza ko dukurikiza abahanga, amakuru baduhaye, n'inama bari kugira uburyo twatwara abantu bafite indwara zigiye zitandukanye.

Ukwiheba ndetse n'agahinda gakabije, bituruka mu muryango. Ni byiza ko ababyeyi bashyira imbaraga mu kwita ku bana babo, bakabaganiriza bihagije inshuro nyinshi. Bakamenya ibyifuzo bafite, ndetse n'uburyo babikemura.

Igihe uri kuganira n'umuntu cyangwa ari kukugira inama, ni byiza ko umukurikira, ukamureba mu maso, aho utumva ukamubaza, igihe urebye ku ruhande abifata nk'agasuzuguro.

Igihugu cyacu cyagize amahirwe yo kwakira imishinga itandukanye, ifasha abakene mu kwiga no mu kwihangira imirimo ndetse no kongera indyo yuzuye mu bantu badafite ubushobozi bwo kurya neza.

Abantu begereye umurwayi ni byiza ko bamusura, bakamuhumuriza, bakamubwira ko ibyo arwaye ari igihe gito agakira, ntibamuce intege cyangwa ngo bamuhe kwiheba.

Abashinzwe ibarura bakwiye kwegera abaturage, bakababaza amakuru yose, ubuzima babayemo ndetse n'ibyo bifuza guhindurirwa mu mibereho myiza y'abaturage.

Niba umaze kureba umwana,, ugasanga agiye kugera mu gihe cy'imirire mibi cy'umuhondo cyangwa umutuku. Gira inama ababyeyi be, umwigisha uko bategura ifunguro ririmo indyo yuzuye kandi bihagije.

Leta y'Igihugu cy'u Rwanda, ishimira imiryango igiye itandukanye iza gufasha abaturage n'urubyiruko mu kwiteza imbere, bakabahugura haba mu mutwe ndetse no mu bikorwa remezo.

Kwita ku buzima bw'amenyo, bitera ubuzima bwiza ndetse n'umunezero, kuko nta pfunwe uba ufite ryo guseka, igihe cyose wumvise hari ikidasanzwe mu buzima bwawe cyane cyane ubw'amenyo, ihutiye kujya kwa muganga.

Amavuriro akurikirana ubuzima bw'amenyo, ibikoresho bakoresha, bashishikariza kubigirira isuku, buri munsi, kugira ngo uwo bakoreye bwa mbere, atanduza uwa kabiri.

Mu gihe umurwayi umaze kumunyuza mu byuma byabugenewe, ukabona igice cy'umubiri we kirwaye. Mutunganyirize ifoto uyimuhe, kuko bizamuha imbaraga zo kurinda umubiri we neza.

Gusuzuma ubu burwayi bw'amenyo, cyane cyane ku bana bakiri munsi y'imyaka cumi n'tanu, ni byiza bigomba gukorwa byibura buri kwezi, kiriya gihe iyo umwana atitaye ku menyo ye, agira ingaruka zitari nziza.

Gukorera isuka amenyo, ni kimwe mu bituma umubiri wose w'umuntu ugaragara neza, byibura buri nyuma y'uko umaze kurya ukayoza, igihe ubonye atagicya wegera amavuriro yabugenewe.

Igice cyo mu kanwa hagomba kuba harimo isuku ihagije, byibura gatatu ku munsi ukaba ari bwo woza mu kanwa kawe, igihe handuye abakwegereye bose uzabatera ikibazo.

Abarimu; babwirizwa ko bagira imikino igiye itandukanye, bigisha abana mu gihe, bari mu masomo, hari amasaha agera, imbaraga zikabura, rimwe na rimwe bagatangira gusinzira, nibyiza ko uzana twa tuntu tubashimisha, kugira ngo bakomeze amasomo neza.

Igihe wumviseshe amenye yawe atangiye kumererwa nabi, gana kwa muganga bagusuzume bamenye ikibazo amenyo yawe afite. Iyo bakubwiye ko amenyo yawe yatangiye kuvunguka, si byiza ko wiheba kuko haje ikoranabuhanga, basigaye bafite ayayasimbura ukongera ukagira amenyo afite ubuziranenge.

Abantu twese dushishikarizwa kwita ku buzima bw'amenyo, by'umwihariko abana bakiri bato ndetse n'abari mu zabukuru, byibura bashishikarizwa kuyakorera isuku gatatu ku munsi, mu gitondo, saa sita, ndetse na mu mugoroba ariko biba byiza igihe bayakoreye isuku buri nyuma yuko bamaze kugira icyo bafata barya.

Hari igihe umurwayi aza agana amavuriro avura amenyo, ababwira indwara arwaye ariko itagaragarira inyuma, ni byiza ko bashyira mu byuma byabigenewe bakabasha kureba indwara arwaye.

Mbere yo gukoresha igikoresho gitunganya amenyo, banza uhabwe amabwiriza akigenga uko gikora, uko gikorerwa isuku ndetse n'ibindi, ejo utangiriza ubuzima bwawe, bitewe no kutamenya amakuru.

Icyumba gikurirwamo amenyo hagomba kuba harimo ibikoresho byinshi kandi by'ingenzi. Aho umurwayi bamukurira amenyo, intebe umukura yicaraho ndetse n'aho babika imyanda ibibora n'aho babika itabobora.

Igihe umurwayi aje akugana agusaba kumukura iryinyo, mbere yo kurivanamo banza umunyuze mu byuma byabigenewe urebe ko nta yandi menyo yanduye, kugira ngo ubone uko umugira inama zo kuguma kwirinda.

Abantu twese twifuza kujya ku byicaro bikuru by'ahantu runaka nk'ikicaro gikuru k'ivuriro, icyicaro gikuru cya kiliziya, icyicaro gikuru cy'umutekano kugira ngo tuhakure ubuhanga bwimbitse nk'abashakashatsi bakunda gukora ubushakashatsi ahantu hari abantu babyigiye banabishoboye.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa bikora isuku y'amenyo, ni byiza ko na byo bigira indi suku yabyo yihariye nk'uburoso cyangwa akadodo, ubigirira isuku kugira ngo igihe ugiye kubikoresha bitakwanduza izindi ndwara.

Iyo uri kuvura umuntu cyane cyane uburwayi bw'amenyo, ugomba kwambara ibikoresho byabugenewe bikurinda kuba yakwanduza. Ukamuganiriza umuhumuriza kugira ngo atarushaho kumva ububabare cyane cyane ukarushaho no gukoresha ikintu cyabugenewe gituma atumva uko ababara.

Umubyeyi wese igihe uzajya ubona umwana wawe yarameze amenyo atari ku murongo, mushyikirize kwa muganga ushinzwe uburwayi bw'amenyo, abashe kuyamushyirira ku murongo kandi ayiteho.

Icyumba cyawe gikorerwamo isuku yaba iy'amenyo ndetse n'umubiri, ugomba nawe kuhagirira umutekano ukahitaho, niba hari imiti ufata mbere yo gukora isuku cyangwa indwara ubanza kwisuzuma uko waramutse, bikorere ku gihe kandi ubimenyereza umubiri wawe.

Abanru dukwiye kugira isuku umubiri wose by'umwihariko ku gice cyo mu kanwa, iyo utahoze neza byibura gatatu ku munsi, ubangamira abantu hasohokamo umwuka mubi, kandi bikaba byiza iyo ukoresheje umuti wabugenewe.

Umubyeyi niba ubonye umwana atangiye kumera amenyo, irinde kumuha ibiryo bikomeye, cyangwa ibintu biryohereye. Wabona atangiye kuvamo ya yandi ya mbere, ukihutira kumujyana kwa muganga, ukirinda gukoresha ibikoresho bitabugenewe.

Iyo uri kwitegura koza amenyo yawe, ufata amazi meza ndetse n'umuti wabugenewe n'uburoso. Igihe ubisoje, ni byiza ko ufata akadodo kawugenewe, ukanyuza hagati y'amenyo kugira ngo ukuremo umwanda waba wasigayemo.

Abaganga bashinzwe gusimbura amenyo arwaye bagashyiramo amazima. Mbere yo kurishyiramo banza upime neza ko iryo usimbuye ringana n'iryo ushyizemo kugira ntibizabangamire umurwayi.

Gufata umwanya uhagije ukorera isuku amenyo yawe, bituma arushaho kumererwa neza, ukoresheje ibikoresho bitandukanye uburoso, amakara ndetse n'ubudodo, ukinjira mu myanya yabyo ugakuramo umwanda wose urimo.

Mu bikoresho dufite bidufasha gukora isuku y'amenyo yacu neza, harimo n'akadodo ugakoresha nyuma yo gukoresha uburoso hari umwanda wasigaye hagati y'amenyo yawe.

Igihe ubyutse ugomba gufata amazi meza n'isabune, ukoga intoki zawe byibura mu masegonda mirongo itatu. Ugahita ukurikizaho isuku y'amenyo n'ibikoresho byabugenewe.

Mbere yo gusuzuma umurwayi, banza ugenzure neza ko wambaye ibikoresho by'ubwirinzi; nk'agapfukamunwa, uturindantoki, ndetse n'ibindi. Kuko igihe utirinze, uwaje akugana, ashobora kugusigira uburwayi, nawe ukahakura ubuzima bubi.

Gukora isuku ukoresheje akadodo wirinda gukoresha imbaraga nyinshi, ugira buhoro buhoro kuko iyo uzungaguje amenyo nabi biba byagutera ibibazo yuko yavamo.

Amenyo y'abana bakiri bato, akwiye kwitabwaho cyane, buri nyuma y'uko amaze kurya ukamukorera isuku kandi ukamurinda ibiryo biryohera, igihe akubwiye ko ritangiye kurwara rimurya ukamujyana kwa muganga.

Iyo uri kwisuzumisha umuvuduko, hari ibigomba gukorwa kugira ngo ubashe kumenya neza niba umutima wawe umeze neza ndetse n'amaraso yawe atembera. Icya mbere, gukorera ku gihe ndetse no gukurikiza uko igipimo cyawe kiri gutera.

Dushishikarizwa kwisuzumisha umutima byibura rimwe mu kwezi, icyo gihe uhabwa n'amabwiriza ya muganga akaguha uko uguma kwitwara, ndetse n'ibyo ugomba kurya kugira ngo urusheho kumererwa neza.

Iyo abantu bari gukora amahugurwa bari kubayo, shyiramo umwanya wo kugira ngo baze gukina baruhuke basabane, kuko baba bahawe amasomo agiye atandukanye yabaremereye umutwe.

Abantu, aba mama, abakobwa ndetse n'abagabo, dushishikarizwa gukora siporo, kuko ni ubuzima, ndetse ni umuti. Iyo tuzikora, bisaba ko twambara imyenda iturekuye.

Kumva indirimbo mu gihe uri gukora siporo bikurinda gucika intege, bigatuma wumva uhora umerewe neza, igihe wazishyize mu matwi ugomba kwirinda kuzamura ijwi riri hejuru.

Igihe wita ku muntu ufite uburwayi budakira ni byiza ko muhorana akanyamuneza umubaza uko yaramutse, ibiryo byamuryoheye ndetse n'ibindi, agomba guhabwa imiti ku gihe kandi ku muntu yiyumvamo.

Ibyishimo by'umuryango bigira ingaruka ku burere bw'abana, igihe babana bishimye n'abana bagira umutima mwiza muri sosiyete, iyo bahora mu mwiryane nta cyiza abana nabo batanga mu nshuti zabo.

Nta murwayi wemerewe, gusigara mu cyumba wenyine, agomba kuba ari n'umurwaza cyangwa umuganga, kuko rimwe na rimwe, iyo ari kongererwa amaraso cyangwa umwuka, biba byatuma ahasiga ubuzima.

Gukora siporo murenze umwe birafasha, igihe muri gukorana, umwe agatangira kunanirwa undi amuteramo imbaraga, akamuzamura aho yaratangiye gucika intege.

Umuntu umaze igihe kirekire arwaye indwara atabyuka, ni byiza ko mu gihe amaze koroherwa utangira kumumenyereza umukoresha udusiporo duto duto kugira ngo imitsi irusheho kurambuka.

Ifunguro rya mu gitondo, rigomba gutegurwa neza, kandi urirya akarirya maze byibura gukora isuku y'amenyo ndetse n'umubiri, byaba byiza ukora siporo igihe avuye muri siporo.

Umurwayi wagize ikibazo cy'imvune igihe atangiye kumererwa neza, ni byiza ko umurwaza we amuha agakoresho ko gusindagiriraho kugira ngo atangire kumenyereza umubiri we kugenda.

Iyo uri guha umuti umurwayi ugomba kuba ufite akanyamuneza ku maso ndetse no ku mutima ukamubwira n'amagambo meza, kuko aba ababara asaba umuntu umwitaho kandi umuhumuriza.

Iyo uri kunywa imiti wandikiwe na muganga ifungwa, igihe umaze kuyifata ongera uyifunge neza nk'uko muganga yabigennye kugira ngo hataza kujyamo umwanda.

Abantu dukwiye kugabanya kurya ibintu birimo isukari, amavuta ndetse n'umunyu mwinshi, kuko biri mu byagaragaje ko bituma umuntu yongera ibiro cyangwa umubyibuho ukabije.

Ni byiza gutegura ifunguro ryuzuye ririmo ibitunga umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, kuko igihe cyose iryo funguro ryuzuye, abantu baririye bagira ubuzima bwiza kandi burambye.

Iyo ugiye gukora siporo zo kurambura ibice runaka bigize umubiri, ugomba kumenya neza ahantu ugiye kuzikorera, ko hari umutekano haringaniye. Ukabona kuba watangira kuhakorera.

Kubana n'umuntu, ubana n'ubumuga bwo kutabona, si byiza ko uhora umwuka inabi igihe akwatse ubufasha ukamubwira umutuka. Mutware neza kuko nawe aba ari umuntu nk'abandi.

Tugomba kwirinda kujya munsi y'igiti mu gihe imvura igiye kugwa, kuko umuntu ashobora kuhasiga ubuzima, ariko igihe hari izuba waryikingamo nta kibazo.

Umuntu ugeze mu zabukuru, ni byiza ko buri gitondo, igihe akazuba karashe ugenda akajya gufataho vitamine. Yarangira ukamutembereza nk'iminota mirongo itatu kugira ngo arambure amaguru, n'amagufa akomere.

Abantu bari mu zabukuru, bashoboye kumenya kwihangira imirimo bakabaha nk'duseke ndetse n'ibindi, bakagana urubyiruko ndetse n'urubyiruko rukabegera bakabasobanurira uko bikora, kugira ngo bazihangire imirimo.

Muganga igihe akwandikiye umuti ni byiza ko nawe mbere yo kuwunywa ubanza kureba amabwiriza awanditseho ukamenya niba uhuye n'umubiri wawe, wasanga nta mahuriro ukajya gusobanuza muganga.

Iyo umuntu amaze igihe kinini arwaye, si byiza ko umutangiza kumumenyereza kugenda, gukora urugendo runini cyangwa umukoresha imbaraga nyinshi, bitangira gahoro gahoro akazagenda amenyera kurushaho uko iminsi yicuma.

Umuntu uwo ari we wese ni byiza ko agira umurwaza mbere yo kunywa imiti akabanza akamuganiriza akareba niba urugero agiye kunywa arirwo yandikiwe na muganga bitewe n'ububabare afite ashobora kunywa imiti irengeje urugero bikaba byamuteza ubundi burwayi cyangwa kuba yahasiga ubuzima.

Abantu bashinzwe kwita ku barwaye indwara zidakira cyangwa ababana n'ubumuga. Ni byiza ko bahorana umutima mwiza, amagambo ashimisha abarwayi ndetse n'inkuru zisekeje.

Iyo uri gukoresha ikoranabuhanga ufite ikibazo cy'amaso, irinde kuyegerezamo cyane kuko byakurushaho kuremba cyangwa bikakongerera iyindi miti wafataga.

Igitsina gore, dushishikarizwa gukora siporo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko, abagore ari twe tugira imbaraga nke, tudakomeye, tudashoboye. Iyo uri igitsinagore gikora siporo, buri muntu wese akubonamo ubudahangarwa bukomeye.

Iyo umuturage yitwara neza akurikiza amabwiriza, iyo ashimiwe bitera n'abandi kugira ishyari ryiza, bakazakora nka we bikazafasha kwihuta ku iterambere bitewe n'uduhembo tugiye dutandukanye uwitwaye neza ahembwa.

Abantu bari mu za bukuru, ni ngombwa ko bagira umuntu ubitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, akabatunganyiriza indyo yuzuye, cyane cyane mu gihe cy'ubukonje, akabashakira ibintu bishyushye, kugira ngo barusheho guhumeka neza, kuko ubukonje hari indwara buzamura nko gufungana kw'amazuru, nko guhumeka nabi.

Igihe utangiye kubona umubiri wawe utangiye kugaragaza ibiro byinshi, ni byiza ko wakihutira kwa muganga, bagasuzuma indwara zigiye zitandukanye nk'umuvuduko, umutima ndetse n'isukari ufite mu mubiri wawe.

Igihe ugiye kuvura umuntu ugeze mu zabukuru, banza wumve ko ari nka mama wawe, nawe azumva ko uri umwana we, akwisanzureho akubwire uko uburwayi bwe bumeze uko bwatangiye n'aho bugeze.

Ahantu hose hakorerwa ubuvuzi ni byiza ko hagomba kuba hari umuriro, amazi ndetse n'umuhanda kugira ngo uhagana atazagira izindi mbogamizi ahura na zo mu nzira igihe abagannye.

Mu gihe ugiye kumva imbwirwaruhame, uri mu nama cyangwa mu mahugurwa, tega amatwi aho utumvise ubaze kuko ziba ari inama uri gukura aho ngaho uzajya gusobanurira abandi mukorana.

Abantu bafite amakampani, ibikorwaremezo bitandukanye, ni byiza ko baha akazi abantu batagafite kugira ngo iterambere ry'igihugu rirusheho kugenda neza.

Abantu bose bafite amakuru ku buzima bw'abantu cyane cyane nk'abaganga, mukwiye kwita ku bantu mubana, ababegereye ndetse n'aho mukorera. Kuko ubuzima bwa muntu ni bugari busaba impanuro zigiye zitandukanye.

Igihugu cy'u Rwanda kiza ku isonga mu kurwanya ibyorezo runaka nk'urugero, nka Kovide cumi n'icyenda cyangwa Marburg. Twabaye ku isonga mu bihugu by'ibiyaga bigari mu kubirandura vuba.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije n'ibimera, bidushishikariza kubibungabunga, kugira ngo birusheho kugira ubuzima bwiza, ejo hazavemo imiti ndetse n'abakerarugendo babisure.

Mu gihe ugiye guhura n'abantu, hari ubutumwa ugiye kubagenera, ni ibyiza ko uba usa neza kandi ufite umutima mwiza. Igihe wari ufite akababaro, ugomba kugasiga inyuma, ukagenda ufite ubwo butumwa, ntakindi kintu kibi uri gutekereza. Ibyo bizagufasha, guhuza na bo mukisanzuranaho.

Ikitsina gore ni abantu basaba kuganirizwa buri gihe ndetse na buri kanya, iyo ubaganirije wababumbiye hamwe barushaho kungurana ibitekerezo, bagasangizanya ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Abaturage b'Isi ndetse na Afurika muri rusange bagizweho ingaruka n'icyorezo cya Kovide Cumi n'Icyenda bituma ibihugu byinshi bishyira imbaraga mu isuku kugira ngo hatazagira ikindi cyorezo cyaduka, kigashegesha ibihugu.

Igiti kigororwa kikiri gito. Kubwira umwana ku buzima bwe ukamusobanurira uko yakwitwara arabikurana ntago ajya abiteshuka, si nk'uko wasobanurira umuntu mukuru.

Abaganga bahura n'abarwayi babakira isaha ku isaha, ni byiza ko bagira ibikoresho bihagije nk'udupfukamunwa, amataburiya, ga, ndetse n'ibindi. Kugira ngo batanduzwa indwara abarwayi baba baje babagana barwaye.

Utekereza ute iyo wumvise ngo Igihugu cyateye imbere? Ni igihe amashuri aba ari hafi y'abaturage, ubuvuzi, ibikorwaremezo nk'imiriro, imihanda ndetse n'ibindi. Icyo gihe abaturage baba bari mu buzima bw'iterambere.

Abantu bakorera imishinga igiye itandukanye bakwiye kuba bafite ibikoresho bibaranga. Byanditseho icyo bakorera ndetse rimwe na rimwe bakaba bashakirwa inifomo ibagaragaza kandi isa.

Kwirinda agakoko gatera SIDA ni inshingano ya buri umwe wese ariko cyane cyane urubyiruko kuko ni twebwe duhura n'imitego yandurirwamo agakoko kayitera, bityo rero bikadusaba ubwirinzi.

Wifuza amakuru ahagije y'imibereho y'abaturage, ukwiheba bafite ndetse n'indwara zo mu mutwe, hari ibigo byakoze ubushakashatsi bifite amakuru bihagije.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ni bwo hazamutse ubukangurambaga mu rubyiruko rwo kurwanya SIDA, bababwira inzira zose SIDA yanduriramo n'uko wayirinda.

Urubyiruko dushishikarizwa kwirinda indwara zitandukanye. Harimo izandurira cyane cyane mu mibonano mpuzabitsina, by'umwihariko nka SIDA, imitezi ndetse n'izindi.

Igihe umuganga ari gukoresha ibyuma, imikasi, inzembe, agomba kuba yambaye ibikoresho by'ubwirinzi kandi na we akabikora atuje kugira ngo bitaza kumukomeretsa.

Mu gihe ugiye gutanga imbwirwaruhame iri mu rurimi batumva, shaka umuntu ubasobanurira kugira ngo bose batahe bumvise icyo washatse kuvuga, babashe nuko bazatanga ubwo butumwa bumvise.

Muri bibiri na makumyabiri na kabiri, ni bwo haje umushinga wita ku barwayi ba SIDA ,unabakangurira kuyirinda batarayandura. Urubyiruko dukwiye kuyikurikira, tukumva impanuro batanga, kugira ngo turusheho guhashya agakoko gatera SIDA.

Niba ukora kwa muganga, ushishikarizwa kwambara imyenda irinda umuntu kandi itabangamira abarwayi nk'inkweto zigenda zisakuza.

Amabwiriza agenga kwirinda SIDA, ni ibintu tugomba guhahana nk'amakuru, umwana utangiye kumenya ubwenge no kumenya gusoma, akabihabwaho ubumenyi, abatazi kumva bagacirwa amarenga, kuko SIDA ni icyorezo cyashegeshe isi.

Igihe umenya amakuru ko hari umushinga wageze mu gace utuyemo, ni byiza ko uwegera ukumva ikiwugenza, birashoboka ko wahakura iterambere ry'ubuzima bwawe n'umuryango wawe ndetse n'inshuti zawe.

Umwana w'umukobwa utangiye kugeza imyaka hagati ya cumi n'ibiri kuzamura, akwiye gukurikirana inkingo za kanseri y'inkondo y'umura kugira ngo turusheho kuyihashya, ndetse na ba mama bakwiye kwisuzumisha hakiri kare, kugira ngo bahabwe imiti yabugenewe yirindwe kandi ikire iranduke mu gihugu cyacu.

Urubyiruko tugomba kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, tugakoresha agakingirizo, igihe umubiri ukunaniye wihutira kujya kwa muganga kuko igihe icyo aricyo cyose wabikora n'umuntu utizeye mutabanje kwisuzumisha ushobora kuhakura inda cyangwa ukahandurira izindi ndwara.

Indwara zizwi ku izina ry'amahanga nka Diyabete, abantu benshi bazi ko iterwa n'uko umuntu afite isukari nyinshi. Oya hari n'iterwa n'uko umuntu afite isukari nkeya. Icyo gihe rero ni byiza ko uhabwa amabwiriza ya muganga, ukanisuzumisha ukamenya urwego rw'iyo urwaye iyo ariyo.

Abaganga cyangwa abahagarariye amavuriro n'indwara zitandukanye, ni byiza ko begera abaturage bakababwira indwara zandura n'izitandura kugira ngo barusheho kumenya kubitandukanya.

Minisiteri y'ubuzima ikangurira abaturarwanda bose kwita ku buzima bwabo, birinda kunywa inzoga cyangwa bagaburira abana babo indyo zituzuye.

Ubushakashatsi bwakozwe bibiri na makumyabiri na kabiri, bwagaragaje ko umwana w'umukobwa amaze gufata indi ntera, kwihangira imirimo, kwiteza imbere ndetse n'ibindi.

Mu bihugu bya Afurika haje imishinga izamura abana b'abakobwa ndetse n'abagore, ibyo byatumye ubukungu bwabyo bwiyongera kurushaho, abari barasigajwe inyuma n'amateka barushaho gutera imbere.

Umurwayi wa diyabete, iyo umuganga yayimusanzemo hari amabwiriza amuha, ni byiza ko ayakurikiza, ndetse n'imiti yamuhaye akayinywera ku gihe, icyo gihe bimufasha gukira vuba.

Abakuriye amavuriro, ni byiza ko bagena igihe runaka bagomba guhurira bakaganira, uko amavuriro yabo akora, bakungurana inama, ibitekerezo, kugira ngo ufite igishya akibwire mugenzi we ivuriro rye rirusheho kugenda neza.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite uduce dutandukanye n'inzu zabugenewe, aho umuntu yahuye n'ihohoterwa abagana akababwira ikibazo yahuye na cyo bakamufasha.

Ahantu hari ibikoresho bigenzura ubuzima bw'abantu, ni byiza ko bahashyira umuntu ushinzwe kubigenzura kuko igihe wabishyizeho byonyine bishobora kugira ikibazo bigafatwa n'inkongi y'umuriro.

Inzu y'ubuvuzi, hagomba kuba hari imbuganga ngari, mu gihe hakiriwe abantu benshi, bakabona aho bisanzurira bategeranye, ngo batanduzwa indwara baba bazanye zitandukanye.

Gushyira ururabyo cyangwa igiti cyose gifite ibara ry'icyatsi mu ruganiriro, ni byiza, kuko abahicaye bituma bahumeka neza kandi bakagira umutuzo.

Kubaka inzu z'imiti, ni ukuzubaka ahantu hari umutekano, ahantu hari isuku, ahantu hari buri kimwe cyose kugira imiti ikomeze kugira ubuziranenge, igihe cyose iyo miti iza ahantu hatameze neza, hatari ubuziranenge umuntu azaza kuyivuza, ntakire ahubwo arusheho kwakira izindi ndwara.

Ugomba kwita ku murwayi, umushyizeho imbaraga zawe zose n'ubumenyi ufite kugira ngo akire, kandi mbere yo kujya kumuvura urabanza ukambara ibikoresho bikurinda ko nawe yakwanduza.

Ahantu hose hari ibikorwa remezo ni byiza ko haba hari ubusitani butunganyije neza kandi bufite isuku, kuko mu bice bigize ubusitani nk'ibiti n'indabyo bifasha abantu bahegereye guhumeka neza.

Ibigo nderabuzima byose bigomba kugira intebe, abarwayi baje babagana bagomba kwicaraho. Kuko igihe bazajya bajya kwicara hanze cyangwa kure yaho abaganga babahamagara ntibumve bizateza ikindi kibazo.

Mbere yo kubaka inzu banza werekane igishushanyo mbonera ko kijyanye n'ubwubatsi ugiye gushyira aho hantu. Mu gihe bakugiriye inama yo kubireka ugomba kubumvira ugahindura ubwubatsi bwawe.

Inyubako y'ubuvuzi, ni byiza ko iba ifite ahantu ibinyabiziga bihagarara hisanzuye, aho abantu bicara bafata amafunguro, bakanaganira bakisanzura bakumva bamerewe neza, bituma bahakunda kurushaho.

Iyo wakiriye umurwayi mbere yo kugira ngo akubwire indwara arwaye, ni byiza ko hari ibimenyetso by'ibanze ubanza gufata, biguha ishusho y'umubiri we uko uhagaze n'uko umerewe.

Birabujijwe kwicara munsi y'igiti, ubona imvura igiye kugwa cyangwa iri kugwa kuko byaguteza ibibazo nk'inkuba ikagukubita ndetse n'ibindi.

Gukurikirana ubuzima bw'abana nk'amavuriro, ni byiza ko abaganga bayakoramo baba baseka banezerewe bishimye, kuko ni ibintu bikurura abana bigatuma baza babagana.

Ibyuma byabugenewe mu kwita ku barwayi, bikwiye kugira icyumba cyabyo byihariye. Hakagira umuntu ushinzwe kubikorera isuku, kandi akazajya abisura buri kanya, kugira ngo arebe ko bitahungabanyijwe. Igihe cyose buri munota, buri saha.

Iyo ucuruza imiti, ni byiza ko uyitangira ahantu hafite isuku, na yo ukayishyira ahantu hagaragara, ku buryo buri umwe wese uje kugana, ahita abona umuti akeneye, akawukubwira bitamugoye.

Ivuriro ni igikorwaremezo gisabwa kujya ahantu heza hari umutekano, amazi, umuriro ndetse n'ibindi, iyo ubishyize ahantu hatari heza bituma abarwayi batakugana, baba bumva ko nta cyiza kiri aho ngaho kuko biba biri kure y'ibyiza.

Ahantu hakorerwamo umuti ngororamubiri ni byiza ko hagomba kuba harimo ibikoresho bya buri umwe wese uri buze ahagana ari bukenere, nk'ibirambura amaguru, umugongo ndetse n'ibindi bice byose by'umubiri.

Umukozi ukora mu isuzumiro ry'ibizamini by'umurwayi, agomba kuba abishoboye yarabyigiye, igihe atanze igisubizo kinyuranye n'ibyo yaje arwaye muba mumwangirije ubuzima.

Ibikoresho bikora mu isuzumiro, hagomba kuba hari umuntu ubikoresha ubifitiye ubuhanga uzi neza gushaka indwara y'umurwayi arwaye. Igihe yibeshyeho gato bituma amuha igisubizo kidahuye n'icyo umurwayi yaje agaragaza ibimenyetso afite.

Kugira ngo icyorezo cyateye kidakwirakwira ahantu hose abakira abarwayi bagomba kuba bambaye ibikoresho by'ubwirinzi, abarwayi bakabatandukanya kugira ngo bataza kwanduzanya izindi ndwara zirenze kuri icyo cyorezo.

Icyumba cy'isuzumiro, ni icyumba gisaba ibikoresho bihagije kuko iyo habuzeho kimwe wari watangiye gusuzuma umurwayi bimutera icyizere akumva ko aho hantu ashobora kuhasiga ubuzima.

Ibyumba biri mu ivuriro, ni byiza ko ushyiraho amafoto n'amagambo akorerwamo. Kugira ngo umurwayi naza ahagana, abashe gusobanukirwa aho ari kunyura ndetse n'ibyo agiye kureba ko abisanze muri icyo cyumba.

Ahantu hose hakurikirana ubuzima bw'umurwayi, hagomba gushyirwaho ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze nk'indangururamajwi. Abakozi bahakora bagomba kuba bafite isuku bafite n'ibikoresho by'ubwirinzi.

Niba umaze gusuzuma umurwayi ukoresheje icyuma cyabugenewe, hakaba hari igice cy'umubiri we kitameze neza, muhe ifoto igaragaza uko wabisanze bimeze bizamuha kwirinda ndetse no kurinda abo babana.

Abantu bakora amasuku mu byumba by'abarwayi bagomba kuba bambaye ibikoresho by'ubwirinzi, ingofero, agapfukamunwa, uturindantoki, ndetse n'ibindi bitandukanye. Kuko aho ngaho baba bari baba bari mu bantu barwaye. Igihe batirinze na bo bahakura uburwayi.

Gutanga amaraso ni igikorwa cy'ubutwari kandi cy'umutima mwiza, uba uri gufasha abantu bari mu bitaro b'indembe bababaye bagiye gutakaza ubuzima.

Umuganga ukora mu cyumba cy'ibizamini, agomba kugenzura ibikoresho bye, cyangwa icyumba cye, niba ubushyuhe bwabyo buzamuka cyangwa bugabanuka, bakabikora buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi.

Iyo ukora mu bigo by'ubuvuzi bihuriramo barwayi, ni byiza ko wambara imyenda ifite ubwirinzi buhambaye kugira ngo nawe urinde umubiri wawe kuba wakandura indwara bitunguranye.

Abantu bubaka inzu zikorerwamo siporo, ni byiza ko habamo ibikoresho by'ingeri zose imigozi, ibyuma ndetse n'ibindi bikoreshwamo, hakaba hari iy'abana n'iby'abakuru.

Inzu z'ubuvuzi, bagira aho bahurira n'ibikomere nk'abakura amenyo, ababagaba abamama, abadoda ibisebe, ni byiza ko bagira icyumba batunganyirizamo ibyo bikoresho bakabikorera isuku yihariye.

Farumasi y'ubuzima bwiza, iherereye mu Rwanda, yita ku barwayi, kandi ifite n'abaganga babihuguriwe babishoboye, ufite ikibazo urabegera bakagufasha, kandi mu gihe gito.

Niba wubatse inzu igeretse inshuro irenze Imwe. Ni byiza ko ushyiramo inzira z'ababana n'ubumuga bwo kutagenda kugira ngo nabo babashe kuza kwivuza aho ngaho ntacyo bishisha.

Imbere y'ivuriro ryawe, ushyiraho ibintu bibujijwe kwinjizwamo, nk'itabi, inzoga, ndetse n'ibindi. Icyo gihe bituma umutekano w'abarwayi urushaho kumererwa neza.

Ni byiza ko abaganga bibumbira hamwe mu gihe umurwayi yaje abagana, kugira ngo babashe gufata umwanzuro w'igisubizo cy'ubuzima bwe, uwuzanye inama imwe bakayikurikiza bagafata umwanzuro.

Mbere yo gutangira kwakira abarwayi, banza urebe niba ufite igikoresho kizimya inkongi y'umuriro, umurindankuba, ndetse n'igikoresho gifata amashusho. Igihe habaye ikintu kidasanzwe ukabona ubutabazi bw'ibanze, ndetse n'aho ukura amakuru.

Abaturage twese ni ahacu kurwanya malariya burundu, dusiba ibidendezi bituye hagati yacu, gutema amashyamba, kurara mu nzitiramibu, ndetse n'ibindi. Malariya nta cyiza cyayo, tuyirwanye turusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu bose bakurikirana ubuzima bw'abarwayi ni byiza ko bagomba kuba banezerewe batababaye, nk'umurwayi iyo abagannye bituma abisanzuraho akababwira buri hantu hose ababara nta kimushisha.

Ahantu hari ibikorwa remezo nk'amashuri, imirenge, amavuriro, ni ibyiza ko hashyirwa ibirangantego bisomeka kandi bigari, bifasha buri umwe wese uje abagana.

Icyumba cy'isuzumiro, hagomba kuba harimo umwuka mwiza, hafite isuku ndetse n'ibikoresho bihagije, nk'aho aho kubika ibikoresho byanduye ndetse n'intebe y'umusuzuma yicaraho.

Gutunganya ahantu ho gukorera inama, hafite isuku, hari umutekano ndetse hari n'ibindi bikoresho byifashishwa nko mu gukora inama n'indangururamajwi ndetse n'ibindi bifasha abakora inama kungurana ibitekerezo kandi bakaba batekanye.

Inzu y'ubuvuzi ni byiza ko uyubaka ikomeye kandi irimo n'ubwirinzi. Hinjiramo umuyaga uringaniye utabangamira abarwayi.

Umubyeyi uje abagana afite ibimenyetso by'uko aje kubyara, akwiye guhabwa ubutabazi akigera ahongaho kugeza amaze gusezererwa avuye kwa muganga, kugira ngo umwana we atazahasiga ubuzima.

igihe uriguha umuti umurwaza cyangwa uri kumusuzuma, ni byiza ko umubwira amagambo yoroheje amwereka ko umwitayeho, umufitiye impuhwe nawe bituma yumva ko hari abantu bamukunda bikamuha imbaraga zo gukira.

Iyo ugiye kwinjira mu biro by'umuntu runaka, banza usome amabwiriza urebe niba hari ibyo ushoboye gukurikiza. Ibyo usanga udashoboye waka ubufasha bakagusobanurira bakakubwira uburyo ki ubutumwa aho ngaho bugenda uko amakuru atangwa.

Ni byiza ko umuntu ukoresha ikoranabuhanga avura abantu, abyitaho kandi akabishyiraho umutima, igihe urangayeho gato, umurwayi ashobora kuhasiga ubuzima.

Umuntu wese ugera kwa muganga yaba ari umurwaza, uhakora amasuku, ndetse n'abaganga, ni byiza ko igihe cyose bahora birinze, kugira ngo bataza kwandura indwara z'abarwayi baba baje babagana baba bafite.

Ku mazu y'ubuvuzi ni ngombwa ko bahashyira ibirangantego bigaragara kandi bisomeka kugira ngo umuntu ukeneye ubufasha agituruka kure ahite abona ko ageze ahantu bagiye kumufasha.

Ahantu hose unyuze ukabona hari ibendera ry'Igihugu, haba hari igikorwa cya Leta ntukabone umuntu ashaka kuhasenya ngo umwihorere, ni byiza ko umutangira amakuru ku gihe.

Amavuriro akwiye kongera aho abarwayi baryama ndetse n'abarwaza. Byagaragaye ko iyo umurwaza agiye kwa muganga hari uwo agiye kwitaho, igihe cy'ijoro iwe abura aho aryama bitewe n'uko amavuriro atahateganyije.

Mbere yo kubaka inzu ni ukubanza ukereka leta niba ugiye kubaka inzu iri kugendera ku cyerekezo irimo, ikomeye ifite ibidukikije nk'indabyo ndetse n'ibindi.

Ibyumba bikurikiranirwamo ubuzima bw'abarwayi ushyiramo ahazajya habikwa imyanda, aho umurwaza yicara ndetse n'ahabikwa imiti iri bukenere kumuvura.

Ibitaro bikuru bya Ruhengeri byaje ku isonga mu bifite abaganga bita ku barwayi kandi bakira neza ababagana n'umutima mwiza, bifite abakozi bagira isuku, bambara n'impuzankano zikwiye.

Igihe uteganya gukoresha inama abakozi bawe cyangwa abo mukorana, tegura icyumba k'inama hakiri kare, urebe ko hari isuku ihagij, hari umutekano ndetse n'ibyo kwifashisha ukora inama niba byuzuye.

Kwita ku cyumba kirimo ibikoresho, bigomba kuba intego ya buri vuriro, bagashyiraho umuntu uhashinzwe uhahora kandi bakareba niba umuriro urimo ukwiye n'isuku yaho niba ihagije.

Kugira ngo twubahirize uburenganzira bw'abantu b'ingeri zose, ni byiza ko igihe wubatse inzu igeretse ushyiramo n'inzira y'abinjiramo babana n'ubumuga bakoresha utugare.

Ahantu hari inyubako igana abantu benshi, ni byiza ko haba hari ikibuga gihagije ndetse hakaba hari n'inzira z'ababana n'ubumuga badashobora kugenda n'amaguru.

Ahantu hari ibikoresho bigiye bitandukanye, nka televiziyo, compiyuta ndetse n'ibindi, hagomba kuba hari umuriro uringaniye kugira hatazateza ikibazo cyo kuba hashya.

Ibyumba byateganyirijwe kubikwamo amaraso ahabwa abayabuze, ni byiza ko hagomba kugenzurwa ikigero cy'ubushyuhe, n'ubukonje, niba kiringaniye, kandi hakagira umuntu uhora ahitayeho ngo arebe ko ntacyahindutse.

Amavuriro afite ibyumba by'abamama babyariramo, ni byiza ko bagiramo isuku yihariye, hakabamo umutekano ndetse n'ibindi bikoresho byose bikenerwamo, kuko haba hagiye kuvukiramo umuntu utari usanzwe umenyereye ubuzima bwo hanze.

Amavuriro ni byiza ko ahantu byubatse haterwa ibiti, indabo ibyatsi, ndetse n'ibindi bintu biha abarwayi guhumeka umwuka mwiza.

Amavuriro yose, mu gihe mufite ibyuma byabugenewe bisuzuma umuntu umubiri wose cyangwa ibice byo mu nda n'ibindi bice by'umubiri bitandukanye, iyo nta murwayi uheruka kwakirwa, mugomba kubisuzuma buri munsi kugira ngo bitangirika.

Iyo uhaye umwanya umurwayi ukamutega amatwi akakubwira imvamutima ze zose uburyo ababara, bigufasha kumenya ibizamini uri bumwandikire n'uw'umuha imiti, ndetse na we akisanzura bigatuma akubwira ahantu hose ababara.

Ibigonderabuzima byose bigira icyumba cy'aho ababyeyi babyarira, hagomba rero no kugira isuku yiharira kugira ngo umwana avukire ahantu hasa neza, ndetse n'umuganga ubahora iruhande igihe umubyeyi agize ibise byihuse agahita amufasha.

Icyumba cy'abarwayi kigomba guhora gisa neza, hari umuntu ugikorera isuku, ndetse igihe akazuba katse hagakingurwa kugira ngo hinjirwemo akayaga keza. Hakirindwa gushyiramo ibintu bihumura cyane kuko bibangamira abarwayi.

Buri vuriro hagomba gushyirwamo aho abakozi baryo baruhukira mu gihe bageze mu masaha y'akaruhuko, kugira ngo babashe gusubira mu kazi bameze neza.

Niba ushinzwe gushyira ibisubizo umurwayi cyangwa umuha umuti, ugasanga yasinziriye si byiza ko ugenda umka inabi, umubwira amagambo amukanga, mubwire mu magambo yoroheje.

Kubaka inzu ni byiza kandi bigaragara neza, ariko menya neza ko washyizeho n'inzira z'ababana n'ubumuga ejo batazagira imbogamizi zo kwinjira mu nzu bitewe nuko babuze aho banyura.

Umurwayi wari urwariye mu bitaro, iyo asezerewe uburiri yari aryamyeho, aha abashinzwe gukora isuku bagomba gufura amashuka ndetse bakanahashyiramo indi miti kugira ngo uburwayi yari afite, butazafata uzaza kuharyama ikindi gihe.

Ni byiza kugira ikibuga mu ivuriro mo imbere, hari igihe umurwayi aba amaze igihe atabasha kugenda, ukamutangira kumumenyerezamo, akazasohoka mu ivuriro yaramenyereye.

Umugore wese ugiye kubyara, ashishikarizwa kumenyesha umujyanama w'ubuzima wamukurikiranye kuva yasama, akamugeza ku kigo nderabuzima kugeza umwana avutse.

Kubaka inzu z'ubuvuzi ni byiza kuzishyiramo ubukarabiro bwinshi, byibura iyo ifite ibyumba bigera kuri bitanu ikagira ubukarabiro bungana na butanu.

Abantu bacuruza imiti ya kizungu ni byiza ko bakira umuntu uvuye kwisuzumisha, kuko iyo umuhaye imiti utamenye uwamusuzumye ngo amubwire imiti agomba kugufata bituma nawe umuha imiti inyuranyije n'indwara arwaye.

Mu ivuriro hagomba kugira icyumba cy'abarwayi b'abana baryamamo cyihariye. Kuko baba bakenera ibibarangaza kugira ngo bavurwe batari kubabara. Hagashyirwamo nk'irangaza rikoresha amashusho ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ushinzwe umutekano ku bitaro ndetse n'amavuriro, ni byiza ko abanza guhabwa impanuro y'uburyo bakira abaje babagana kuko abarwayi ni abantu bashaka umutima mwiza n'umuntu ubereka ikinyabupfura.

Abantu bafite ikibazo cy'isukari nyinshi cyangwa umuvuduko, umuganga ubitaho agomba kubasura kenshi gashoboka, akabagira n'inama y'ibyo bagomba kurya n'ibyo bagomba kwirinda.

Ibigonderabuzima bikwiye kugira abaganga bose, ushinzwe kwakira ndetse n'upima ibizamini kandi bagakora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane. Hatibagiwe n'ukora isuku.

Niba ufite ivuriro rivura rikoresheje ibyuma bya siporo, mbere yo kugira ngo woherezeyo umurwayi banza usuzume ko biri gukora neza, kugira ngo ataza kuhakuriramo ubundi bumuga butari busanzwe.

Mu cyumba cyakirirwamo umurwayi hagomba kuba harimo intebe yakwicaraho mu gihe ashoboye kwicara n'igihe arembye hakaba hari uburiri agomba gusuzumirwaho aryamye.

Amazu yo kwa muganga ntago ari byiza ko hakoreshwamo irangi ry'umweru. Kuko mu gihe hakiriwe umurwayi urwaye amaso, aramubangamira bigatuma byamwongerera ubundi burwayi, bitewe n'urumuri runini ruba ruhari.

ahantu hahurira abantu benshi bashaka amakuru runaka cyangwa ubufasha, ni byiza ko bareba abantu babana n'ubumuga, bakabaha rugari, kugira ngo babashwe kwakirwa vuba, kuko bo baba bafite ibibazo bitandukanye.

Iyo ubonye uburwayi bw'amaso bwararengeranye bikaba ngombwa ko yandikirwa imiti nka rinete, genzura uko arwaye ubone kugena umuti uri bumuhemo.

Inzu zikorerwamo siporo, zigomba kuba zirimo ibikoresho byuzuye kandi bizima nk'umugozi, icyuma cyo guterura gikomeza amagufa ndetse n'amagare yo kunyonga, atuma imitsi irambuka.

Mu gihe ukorera aho bakirira abarwayi cyangwa abandi bagana ikigo nderabuzima ni byiza kuba uba ufite umutima mwiza, usa neza, nta muna ufite. Ukugannye ahita amenya ishusho y'icyo kigo nderabuzima uko imeze.

Mukuru w'ivuriro shyiraho icyapa kigaragaza ibyo muvura ku buryo uje abagana amenya neza ko ibyo aje ashaka aho ngaho ari bubibone, abakozi bawe bambike imyambaro ikwiye kandi ifite ubwirinzi.

Mu cyumba cy'aho abarwayi basuzumirwa, ni byiza ko haba hatari urusaku, hari umwuka uringaniye kandi buri gitanda baryamye kikaba kirimo ibikoresho byose bifite isuku nk'amashuka, umusego ndetse n'ibindi.

Ahantu abarwayi baryama bafata imiti, ni byiza ko hagomba kuba hafite isuku hari n'ibikoresho bikenerwa nk'amashuka asa neza, amazi meza umuriro ndetse hari n'ikigero cyiza cy'ubushyuhe cyangwa ubukonje.

Ibigo byita ku bana b'imfubyi cyangwa babana n'ubumuga. Ni byiza ko bagomba gusurwa, bakagirwa inama, bakanaterwa n'inkunga mu bushobozi bugiye butandukanye.

Imvune y'ikirenge igihe uhuye nayo ihutire kujya kwa muganga nta yindi minota inyuzemo, kuko iyo uyitindije ikubyarira ibindi bibazo bigatuma waremba kurushaho.

Buri muntu wese bitewe n'ibiro afite na siporo akora, agenewe amazi agomba kunywa ku munsi, hari abanywa litiro ebyiri, litiro eshatu ndetse na litiro imwe.

Siporo ni ubuzima ni umuti w'igihe kirambye, umuntu utaramenya amakuru wowe wabimenye mwegera umuhe inama umubwire ibyiza byabyo, ibyo bizatuma uba ingirakamaro mu gihugu n'umukangurambaga ukomeye cyane.

Umuntu ukora siporo agira ubuzima bwiza kandi akarushaho gukomera, nta ndwara ijya imumenyera, ahora akomeye afite ubudahangarwa umubiri we uba urinzwe.

Hari uburyo bwiza bwo kuba wavura umuntu uri kubabara imitsi yaba iy'agahanga, amaguru cyangwa ahandi hantu yavunitse hakabyimbirwa. Ufata urubura rukonje cyane ukarambikaho, agahita yumva amerewe neza.

Umwarimu ushinzwe guhugura abakora siporo, agomba kuba ari umuhanga azi ibyo ababwira n'akamaro biri bubamarire. Igihe cyose umugannye nta makuru ahagije afite, mbere na mbere aragomba kumusobanurira.

Igihe umaze gukora siporo ni byiza mbere yo gufata imbuto, ko ubanza kugisha inama muganga, kuko igihe upfuye gufata izo ari zo zose ntabwo bigirira umumaro umubiri, kuko hari izikomeza kukubyibushya n'izikunanura cyane kurushaho.

Mbere yo kunywa amazi banza urebe urwego rw'isuku afite, niba barayatetse bakayayungurura neza cyangwa yarakoreshejwe imiti yabugenewe, ibyo bituma umubiri ugiyemo amazi meza na wo umererwa neza kurushaho.

Mbere yo kunyuza umuntu mu cyuma gisuzuma indwara arwaye mu mubiri wose, banza umusobanurire umubwire amategeko agenga abinjiramo kugira ngo ataza guhuriramo n'ikibazo akaba yahasiga ubuzima.

Ni byiza gutegura imbuto zawe neza ukazoza n'amazi, ukafata umunsi, amasaha ugomba kuzifatiraho, icyo gihe uba urinda umubiri wawe indwara iyo ariyo yose.

Igihe uri gukora siporo, kora ibyo uzi wahuguriwe kandi ufitiye n'amakuru ahagije, iyo uri gukora ibyo utazi ushobora gukuramo ingaruka mbi zikwangiririza umubiri.

Mu gihe utangiye gukora siporo, iyegereza ibikoresho byose uri bukene nk'umugozi, amazi, ibikomeza amagufa, ibirambura imitsi ndetse n'ibindi. Kuko igihe ugeze hagati ukora siporo ugakenera ikindi gikoresho ukajya kugishaka, uba utakaje icyerekezo umubiri wari urimo.

Iyo uri kugendesha umurwayi utangiye koroherwa ntabwo umukoresha n'imbaraga cyangwa umubwira nabi, umugendesha gahoro gahoro kandi umubwira n'umutima mwiza.

Mu gihe wakiriye umurwayi ukeneye kunyuzwa mu cyuma, muhe amakuru ahagije, ibimubaho mu gihe ari kunyuzwa mu cyuma ndetse ni uko bigenda kugira ngo umubiri we amenye uko ahagaze. Ibyo bituma ubwoba bugabanuka ndetse akizera neza ko agiye guhabwa ibisubizo byiza by'ubuzima bwe.

Igihe uri gukora siporo ukumva umubiri umeze nk'ushyushye, imitsi iri kurambuka, ni byiza ko wicara nawe ugakoresha ikiganza cyawe, urambura neza buri rugingo kugira ngo rumererwe neza.

Iyo uri gukora siporo ukumva umubiri unaniwe, si byiza ko ukoresha imbaraga udafite, rekera aho niba ari ibishoboka wari wakoze urugendo rwa kure, ufatate ikinyabiziga kikugeza mu rugo.

Igihe ukora siporo ukumva utangiye gucika intege umubiri utangiye kurekura ibyunzwe byinshi, ni byiza ko witera amazi umubiri ugahita wongera ukagarura imbaraga ugatangira bushya ukumva umerewe neza.

Niba wibaza ku bintu byafasha umubiri wawe kumera neza udafite indwara kandi ukaba ukomeye, mbere na mbere uzatekereze kuri siporo, izabigufashamo kandi mu gihe gito.

Gukora siporo ku bana, abapapa, abasaza ndetse n'igitsina gore ni byiza kuko bituma bahorana umubiri mwiza, udafite indwara kandi ukomeye, cyane cyane ku gitsina gore bituma badahora ari abanyantege nke.

Mbere yo gukora siporo, banza ukore ubushakashatsi bwimbitse, umenye buri bwoko bwa siporo n'akamaro bimarira umubiri. Cyangwa wumve amabwiriza ya muganga, buri kimwe cyose ugikore uzi n'icyo gifasha ingingo zawe.

Umuti wa siporo ufasha abantu bose by'umwihariko ku basore, bituma bagira umubiri ukomeye ufite imbaraga n'ubudahangarwa mu mirimo yabo bakora.

Igihe wagize ikibazo cyo gutakaza igice cy'urugingo kigacika, wegera abaganga bakaguha insimburangingo zijyanye n'umubiri wawe ndetse n'uko umeze.

Kwifashisha imbuga nkoranyambaga mu gihe bari gushaka amakuru y'icyorezo runaka cyageze mu gihugu, birafasha. Kuko bituma banarwanya abashaka kutemera ko gihari cyangwa bakiga n'uburyo bacyirinda.

Umuganga usuzuma indwara zigiye zitandukanye, zaba iz'abakora siporo cyangwa iz'abafite ubuzima busanzwe, hari ibikoresho agomba kuba afite nko gupima ibiro, uburebure ndetse n'ubukomere bw'umubiri, uwo muntu afite n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni byiza igihe ukora siporo ugomba no gukora izubaka umubiri zikomeza amagufa, kugira ngo umubiri wawe urusheho kuba umerewe neza wirinda n'indwara.

Gukorera siporo impande y'ikiyaga, bikongerera imbaraga kuko mu mazi haba hari kuvamo akayaga gasanga umubiri wawe, ntibitume ucika intege, ugahora wumva ufite imbaraga zikomeye.

Iyo umurwayi amaze iminsi irenze itatu kwa muganga, mu miti ugomba kumugenera ku munsi ntihagomba kuburamo no kumukoresha siporo ngororamubiri.

Igihe ugiye kubwira umurwayi igisubizo irinde kumubwira nabi cyangwa umukura umutima, muhe igisubizo cye mu magambo atuje kandi amuhumuriza umubwira ko agomba gukira.

Aho kugira ngo umubiri wawe uzatungwe n'ibinini, imiti cyangwa guhora kwa muganga, byirinde hakiri kare. Kora siporo, urye indyo yuzuye, ndetse n'imbuto. Bizagufasha kugira ubuzima bwiza.

Gukora siporo igihe wamenye akamaro kabyo, ubasha no gukangurira abo mwegeranye, kuko iyo bose babyemeye uba uri kwagura umuryango nyarwanda uwuvura mu buryo butandukanye.

Iyo ukora siporo ukanywa n'amazi ahagije, nta hantu uhurira n'indwara y'umwijima kandi yashegeshe abantu, mirongo icyenda ku ijana batinya kunywa amazi kandi ni umuti.

Hari igihe umurwayi akugana adasobanukiwe ibimenyetso neza, ugomba kumutega amatwi wowe muganga, ukamenya aho uri buhere umusuzuma, igihe wumva utameze neza murangire mu rindi vuriro, cyangwa umuhe undi muganga, aho kugira ngo umuvure nabi.

Siporo uko uzikoze ni nako zigirira umubiri mu bihe bitandukanye, iyo ukoze izo kwiruka zikomeza amagufa, wasimbuka zikarambura imitsi.

Niba waramenye ibyiza bya siporo, shinga amatsinda mwibumbire hamwe na bo ubasobanurire akamaro ka siporo bizatuma urushaho gutanga umusanzu ku buzima bwa muntu, kandi nawe bigufitiye akamaro ndetse n'inshuti zawe.

Ahantu hahurira abantu benshi, dushishikarizwa ko hagomba kuba hari ubuvuzi bw'ibanze, ahantu bubaka, mu nsengero, ku masoko ndetse n'ahandi, icyo gihe bifasha buri muntu wese uhagiriye ikibazo guhita ahabonera ubuvuzi bwihuse.

Igihe wicaye ni byiza ko wicara ahantu haringaniye, nawe ukarambura umugongo wawe neza kugira ngo hatakuviramo indwara y'ubumuga cyangwa ukazajya ucishamo ugakora utembereye kugira ngo umererwe neza.

Igihe ukorera siporo mu misozi, ni byiza ko hari ibikoresho witwaza birinda ubuzima bwawe, ukabipfunyika mu bubiko bwabugenewe kugira ngo bitaza kwangirika.

Siporo ifite akamaro kanini mu buzima bwa muntu. Iringaniza ibiro, ikomeza amagufa ndetse igatuma umubiri uhangana n'indwara iyo ari yo yose yaba ije kuwuzamo. Dukore siporo, tugira ubuzima bwiza.

Inzu yagenewe gukorerwamo siporo, nyiri ukuyubaka, ayikora ku buryo umuntu uzajya ukoreramo, atazahakorera impanuka, cyangwa akaba yahagirira ikindi kibazo, nko kunyerera, ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko igihe ukoresha umuti wa siporo mu mubiri wawe, utawukora wenyine. Ukakora itsinda runaka, mukajyana, kuko mwungurana ibitekerezo, mukabwira izifitiye umubiri akamaro.

Abahanga bagaragaza ko igihe wariye indyo yuzuye, ugategura ifunguro ryawe ryiza ririmo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, ugakora na siporo icyo gihe umubiri wawe uba ufite kuzaramba birambye.

Amazi ni mu mubiri cyane cyane igihe uri gukora siporo, urayitwaza wakumva umubiri utangiye kunanirwa ugasomaho cyangwa ukayitera mu maso, wongera kugarura imbaraga.

Hari imiti yagenewe kwisigagwa igihe umaze gukora siporo ukumva umubiri ufite amavunane cyangwa watangiye kubyimbirwa, icyo gihe umara koga ukawisiga umubiri ukamererwa neza.

Abantu bakora siporo dukangurirwa kurya imbuto zihagije, kuko umubiri uba watakaje imbaraga nyinshi amaraso arimo gukora cyane, ni byiza ko amazi yatakaye ndetse n'ikindi kintu cyose cyavuye mu mubiri ucyongera.

Kunywa amazi ukibyuka ni umuti w'ingirakamaro, kuko umubiri nibwo utangiye gukora ibyakozwe mu ijoro bigasohoka hagatangira bushya, ingingo zikamera neza.

Iyo ukora siporo nk'izo kwiruka wagera mu nzira ukumva hari igice cy'umubiri gitangiye gukora nabi, banza utuze umere nk'ukigorora ugisubize mu mwanya wacyo, ibyo bizagufasha gukomeza neza ntazindi mbogamizi uhuye na zo.

Umuti wa siporo kugira ngo ugufashe ni byiza gushyiraho ingengabihe, mu gitondo, saa sita, na nimugoroba, icyo gihe umubiri wawe urabimenyera ya ndwara ikabura aho ihera ikwinjirira.

Amazi ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu cyane cyane ku bakora siporo batakaza menshi, hagomba kuba hari n'ayandi ku ruhande bari buhite banywa bagasubiza kuyo bari baratakaje.

Imiti ya siporo ni byiza ko uyikoresha wayikoreye n'ubushakashatsi, ukareba umuti uvura amaboko, urambura imitsi, unanura amaguru, ukuraho ibinure byose ukaba ubizi.

Siporo ni umuti uvura indwara zitandukanye. Abantu bahumeka nabi, abafite ibinure byinshi ndetse n'abakeneye kugabanya isukari mu mubiri. Cyane cyane, siporo ni cyo kintu gitanga umunezero mu mubiri w'umuntu.

Igihe ukora siporo si byiza ko wambara imyenda igufunze, ituma umwuka udasohoka neza, ni byiza ko wambara imyenda yisanzuye, ugatakaza ibyari biri mu mubiri byanduye ukakira ibyiza.

Umuntu ukora siporo akarya imbuto nk'inanasi, amagi, karoti, amashu, akanywa n'amazi ahagije umubiri we uba ufite ubudahangarwa.

Icyumba kivurirwamo ibisebe hagomba kuba harimo ububiko bw'imyanda, imyanda ibora ikajya ukwayo n'itaborika ikajya uikwayo, bituma hahorana isuku n'uhagannye akumva ko ageze ahantu hari bumukize.

Igihe ugiye gukoresha umuti cyangwa kuwugura banza usobanuze muganga umubwire ni byo ugiye kuwugurira uburyo urwayemo, azaguha amabwiriza uzakurikiza kugira ngo urusheho kumererwa neza.

Buri muntu wese hari ibikoresho agomba kuba afite mu rugo iwe, umuti urambura imitsi, igipfuko gipfuka igisebe igihe yakomeretse, umuti ukiza mu nda ndetse n'ibindi.

Igihe urwaye indwara yananiranye, yaburiwe igisubizo ni byiza ko wegera abaganga bakakunyuza mu cyuma cyabugenewe kugira ngo kibashe kureba mu mubiri indwara urwaye.

Igihe uri gusuzuma umurwayi w'amenyo ni byiza ko umuhumuriza ukamubwira ko agomba gukira kandi bidakabije, ibikoresho byawe bigomba kuba bifite isuku kandi bimeze neza.

Niba ugiye kuvura umuntu ubanje kumukata banza urebe ko uruhu rwe rworoshye, igihe usanze rukomeye banza umusige amavuta ari butume bikorohera kumuvura neza.

Igihe utanga imiti yifashishwa mu kwivuza banza usobanurire uwo uhaye uko bikoreshwa ejo atabikoresha nabi bikamugiraho ingaruka ku buzima bwe.

Iyo uri gukora siporo ni byiza ko uba uri n'abandi bantu barenze umwe kuko ushobora gukoresha imbaraga zawe umutima ugatera bigasaba ko ukenera umuntu uguha ubufasha bwihuse.

Iyo uri umuganga ukora mu isuzumiro, tegura ibikoresho byose mbere y'uko umurwayi ahagera, kugira ngo umurwayi naza uhite umufasha vuba, utagiye mu bintu byinshi byo gushaka ibyo kwambara, ibyo kwirinda ndetse n'ibindi.

Igihe cyose uhuye n'umuntu akubwira ko afite umunaniro ukabije, yumva arwaye umutwe ni ikihe kintu wamurangira, ugomba kumurangira siporo ni wo muti wihuse kandi uboneka vuba utanavunanye kuwubona, uvura neza kandi byihuse.

Umuntu ukora siporo zo kugabanya ibinure atandukanye n'ukora izikomeza amagufa. Ni byiza ko niba hari ifunguro ugiye gufata, wegera muganga ukamugisha inama.

Niba ikigo runaka cyangwa umushinga bateguye siporo ihuriza hamwe abantu, ni byiza ko baba bafite abaganga babaha ubutabazi bw'ibanze mu gihe umuntu agiriyemo ikibazo.

Siporo ni umuti, igihe umubiri wawe wayimenyereye, ugomba gushyiraho igihe kidahinduka mu gitondo saa sita na nimugoroba, ibyo bifasha umubiri kumenyera ntugire ikibazo.

Umurwayi wahuye n'ikibazo cy'imvune, akwiye kwitabwaho abaganga b'ingeri zose. Kuko iyo umubiri uhuye n'akabazo gato, ibice byose by'umubiri birarwara, umutwe, ukumva mu nda nta mbaraga ndetse no kurira bya hato na hato bitewe n'ububabare.

Iyo uri kuvura umurwayi ukabona hari ahantu utari gusobanukirwa. Hamagara abandi baganga mwegeranye cyangwa mwifashishe ikoranabuhanga, aho kugira ngo umuvure ibitazwi.

Gukora siporo bituma umubiri ukomera, kandi ukagira ubuzima bwiza. Nta muntu uzikora byibura gatatu ku munsi, uhura n'indwara uko yiboneye. Byiza gukora iz'amabiko ukibyuka, bigufasha kuyarambura.

Igihe cyose, wumva ko ushaka kwivura, cyangwa kurwanya indwara, ukoresheje, uburyo bwa siporo. Inama ni uko utarambirwa, cyangwa ngo ucibwe intege n'abandi. Kora, uko ushoboye, kandi ubikunze.

Ni byiza gukoresha siporo ibikoresho bifite uburambe bikomeye, kuko ushobora kuvunikiramo bitewe n'uko wagize igikoresho kidafite ubudahangarwa, jya ku isoko ry'ibicuruzwa ugura icyizewe kandi kirambye.

Iyo bakwandikiye imiti urabanza ukareba igihe izamara mbere yo kuyikoresha. Igihe ubona ko iyo ugiye kunywa imiti ugira ikibazo cy'uko kuba wayigarura hari uburyo inama za muganga zigufasha iyo miti ikakugirira umumaro mu mubiri.

Igihe ugiye gukora ubukerarugendo hari ibikoresho birinda ubuzima bwawe ugomba kwitwaza: imyenda ya siporo, ibikurinda imvura ndetse n'ibikurinda indwara.

Hari imiti isigaye ikorwa mu muravumba, abantu bayihinga bakwiye kongera imbaraga kuko ababitunganya babikenera isaha ku isaha kandi ni n'umuti ukenerwa n'abantu bose.

Igice cy'ambere cyo gutegura imiti ya kinyarwanda, nko guhinga ni byiza ko bayishyira mu matsinda bakayashyiraho ifumbire ndetse hakarindwa indwara ziyifata mu gihe zikiri mu murima. ibyo bituma isarurwa neza.

Abantu dushishikarizwa gukora ubworozi bw'inzuki, zitanga umusaruro w'ubuki, ukaba ari umuti w'abantu bose, abana, abakecuru, abasaza ndetse n'abandi bose.

Gutunganya umuti w'icyayi, ukawushyira mu macupa agiye atandukanye bitewe n'igiciro cyabyo, bifasha uwucuruza gucuruza neza ndetse n'uje kugura umuti, kuwugura ukazajya umufasha neza bitamugoye.

Niba uvuye gusarura imiti ya kinyarwanda, ni byiza ko uyitandukanya, ukayishyira mu matsinda kugira ngo umurwayi uje akugana, akubwira umuti akeneye, ugahita uwumuha byihuse.

Gukorera ubuhinzi bw'imbuto mu makoperative ni ikintu cyiza cyane, ko bungurana ibitekerezo udafite igishoro bakamuzamura kandi imbuto ikarushaho kugurishwa ku isoko bitagoranye.

Umuntu ucuruza imiti ya Kinyarwanda, ni byiza ko abamugannye abasha kubumva akabaturisha, na we abwirizwa ko atagomba gutanga umuti yitaye mu gukenera amafaranga, akita ku ndwara umurwayi arwaye.

Indabyo zose z'umuti wa kinyarwanda, uwuzisarura agomba kwita ku buryo ari buzice neza nta na rumwe ahungabanyije kuko ahanini ni zo ziba zirimo imbaraga nyinshi zigize umuti.

Umubyeyi ufite abana barwaye inkorora ashishikarizwa gukoresha umuravumba mu cyayi mu gihe bagiye kuryama, kuko bizabafasha kwirinda gutonekara mu muhogo ndetse no kurwara umutwe.

Abasore ndetse n'abagabo hari indwara barwara, bikaba byiza kugira ngo zikire burundu bazivuza bakoresheje imiti ya kinyarwanda, nko kwikinisha, gucika intege ndetse n'ibindi.

Kubungabunga ibidukikije, ni kimwe mu bidufasha mu bintu byose. Harimo kwitegurira imiti y'ejo hazaza, kugira indabyo ndetse no kuzabikoresha mu gihe dukeneye ubwubatsi.

Ibyatsi nk'ibishokoro ni indabyo zituma ahantu hagaragara neza, kandi ni n'umuti uvura mu mihogo igihe hatangiye kuremererwa cyane hakokera.

Iyo ufashe umuravumba na rumari ndetse na mucyayicyayi ukabicanira mu mazi bikabira bivura indwara nyinshi, ku bagore bibavura amayimfegisiyo ndetse n'abafite umubyibuho ukabije ukagabanyuka.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bw'abaturage, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri, hakozwe ubushakashatsi bugaragaza ko urubyiruko arirwo rufite imirire mibi, kandi rwiyahuje ibiyobyabwenge.

Umuti w'urumogi uvura indwara nyinshi zitandukanye hatitawe ku myaka ufite cyangwa ibiro ufite. Ariko mbere yo kurukoresha ni byiza ko uhabwa amabwiriza ya muganga, iyo ukoresheje urugero ruri hejuru, biba byaguteza izindi ngaruka.

Hari abantu baba bararembejwe n'indwara bibaza ahantu bagana kugira ngo babafashe, Akagera medecine gakora buri kimwe, abababara, abavunitse, abarwara indwara zo munda bose barabafasha.

Mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije igihe unyuze ku giti irinde kukibangamira ushituraho akababi na kamwe, kuko rimwe na rimwe uwo nguwo uba ari umuti uzakugirira akamaro ejo.

Gukoresha tangawizi igihe wumvise ubabara mu muhogo cyangwa urwaye inkorora, ni byiza cyane kuko yongera imbaraga mu kurwanya iyo ndwara mu mubiri n'abantu bacitse intege irabafasha kurushaho.

Iyo ushyize umuti mu bubiko bwawo ni byiza ko inyuma wandikaho amazina yawo n'uburyo ukoreshwamo ndetse n'ibyo wakirinda mu gihe wawukoresheje, ibyo bifasha umurwayi kumenya uburyo yitwara igihe yawukoresheje.

Ahantu hose hari ishyamba rya kimeza irinde kuhatwika cyangwa ubonye uw'undi muntu ushaka kubitema mubuze, umugire inama y'akamaro kabyo, ibyinshi muri byo ni umuti w'umubiri wa buri umwe wese.

Abantu muhinga ibiti by'ibikakarubamba. Ugomba kubibungabunga kuko bigira akamaro kanini. Havamo imiti isukura amenyo, iyo bifashisha basukura umubiri ndetse n'ikiza mu nda.

Imiti yose ikozwe hifashishijwe ubuki ivura indwara zigiye zitandukanye mu mubiri w'umuntu, igihe uzikoresha wubahiriza amabwiriza ya muganga kuko biba byaragenwe ndetse n'ifunguro ukwiye gufatwa.

Igihe uhawe umuti banza ubaze neza muganga uburyo uzajya uwukoreshamo kuko iyo uwukoresheje nabi uguteza izindi ndwara zizakugora gukira kandi bikagusaba ubundi bushobozi.

Umwenya uvura indwara nyinshi kandi hatitawe ku myaka ufite, cyangwa ibiro ufite. Icya mbere uvura amenyo ukayoza neza kandi akaba akomeye. Iyo uwutetse mu cyayi, bigirira umubiri akamaro.

Gukoresha umuti w'igikakarubamba bigusaba kubyizera ndetse no kubiha umwanya, umubiri wakimenyereye nta yindi ndwara wongera kwakira kuko gifitemo ubudahangarwa bukomeye.

Ni byiza ko igihe uhinga imiti ya kinyarwanda uyitera ahantu hegereye abaturage, by'umwihariko izivura indwara yo mu mihogo, uyikeneye akayibona byihuse bitamusabye gukora urugendo.

Agace kose utuyemo, ahantu uri ugomba kuhabyaza umusaruro, ugahinga indabyo kandi zimwe muri zo ari n'umuti, yewe zikaba ari n'imboga uzajya urya.

Igihe uguze umuti inyuma hariho urupapuro ruriho amabwiriza, mbere yo kuwukoresha banza uyasome, umenye uburyo uri bukoreshemo uwo muti cyangwa niba wararangije igihe wagenewe gukoreshwa.

Niba ushinzwe gutunganya imirama y'ibiti cyangwa izindi mbuto zitandukanye, uzishyira mu byiciro bitandukanye kandi ukandikaho amazina yabyo kugira ngo uje kuba yabisura cyangwa yakigura akamenya aho ari bugane n'itsinda ari bukuremo icyo akeneye.

Iyo wandikiwe umuti, ukawugena ko hari imbuto uzajya ufata, muri izo mbuto ni byiza ko wakwifashisha indimu cyangwa amaronji, kuko zifite ubudahangarwa burinda umubiri wawe kongera kugira iyindi ndwara.

Ni byiza ko niba ukunda gukoresha imiti ya Kinyarwanda uyihinga ahantu hakwegereye, dore ko imwe muri yo iba imeze nk'indabyo igaragara neza.

Ni byiza ko twabungabunga ibidukikije, nta muntu ubidushishikarije kuko bimwe muri byo ni imiti ya buri umwe wese y'ingirakamaro ifasha abantu b'ingeri zose abo muri icyo gihugu ndetse no hanze yacyo.

Umuravumba iyo uwukoresheje neza ugakurikiza amabwizwa wahawe na muganga ukugirira umumaro munini mu mubiri wawe. Kuko ni umuti uvura indwara nyinshi harimo mu nda, inkorora, ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuntu ukora ubuhinzi bw'imiti ya Kinyarwanda, by'umwihariko nk'igikakarubamba akwiye kukibungabunga, kuko ni umuti uvura abantu, hatitawe ku ndwara arwaye cyangwa imyaka afite, kandi ukamuvura mu gihe kirambye.

Imiti gakondo ni myiza kandi ifasha abantu b'ingeri zose, abana, abakuru ndetse n'abasaza, icyo gihe ni byiza ko uyicuruza ayihorana kuko abantu bayikenera mu buzima bwa buri munsi.

Ikintu cyose ukora kigomba kuba gifite ikirangantego n'amabwiriza ndetse naho umuntu yakubona mu gihe agukeneye byihuse, ukeneye amakuru akamenya aho ari buyashakire ndetse n'ibindi bitandukanye, uje akugana ukamwakirana urugwiro.

Abantu dukunda kuba ku nzu isa neza kandi ibyo bintu ni umuco w'Abanyarwanda, ni byiza rero ko igihe ugiye gutera indabyo ubanza kumenya niba zizavamo n'umuti kuko inyinshi muri zo tuzifashisha twivura.

Urumogi bamwe muri twe tugifata nk'ikiyobyabwenge. Ariko cyitwa ikiyobyabwenge igihe warengeje urugero. Iyo unyweye bike wabwirijwe na muganga, uba ari umuti uhambaye w'umubiri.

Igihe ugiye mu ishyamba ushishikarizwa kuba wagenda murenze umwe, kuko ushobora guhuriramo ibibazo, inyamaswa zikakurya cyangwa ugakomereka, ukanagenda wambaye ibikoresho by'ubwirinzi.

Umuhinzi uhinga imiti ya kinyarwanda, agomba gutandukanya ubwoko bw'imiti ahinga, kugira ngo ibashe kuba yafata umubiri mwiza itavangavanganye.

Gufata indimu na tangawizi ukabicanira mu mazi meza, ukabireka bigahora, ni umuti uvura indwara z'uruhu nk'uduheri cyangwa ibihushi.

Umuntu utegura imiti ya kinyarwanda, ni byiza ko ayishyira mu dukoresho dufite isuku kandi dutandukanye. Kuburyo umuntu wese ukeneye umuti runaka, aza kuwufata bitagoranye, kandi usa neza.

Gukoresha imiti ya gakondo biravura kandi mu gihe kirambye, by'umwihariko indwara zo mu nda, abantu barwara indwara ya amibe twabarangira umuti wa Kinyarwanda.

Igihe wateye umuti wa Kinyarwanda hafi yawe, ni byiza ko uwubungabunga, ukawusasira utwatsi twiza kugira ngo hatagira ibyonyi byinjiramo, ukawuhira mu gihe cy'izuba kugira ukure vuba.

Gutunganya imiti ya kinyarwanda neza n'isuku ihagije, ukayipakira mu bubiko bwiza, byongera abakugana kuko baba babona uri umunyesuku kandi ibintu byawe bisa neza.

Igihe imiti yawe wayishyize mu bikoresho bitandukanye, ni byiza gushyiraho icyapa kiranga uburyo ikoreshwamo kandi cyanditse n'amagambo asomeka ariho n'insimburamagambo nk'imibare igaragara neza.

Iyo ugiye gukoresha umuti uwo ari wo wose, mbere yo kuwunywa banza wibutse ubwonko bwawe amabwiriza muganga yaguhaye, ibyo utibuka umuhamagare akwibutse cyangwa usome amabwiriza ari kuri uwo muti, kugira ngo urusheho gukira kandi vuba.

Mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije no kwihangira imirimo dushishikarizwa gukoresha igikoresho inshuro irenze imwe, niyo mpamvu ahantu hari ibikoresho bibika umwanda tugomba gutandukanya ibyuma, ibibora n'ibitabora.

Abantu b'ingeri zose, cyane cyane abana bakiri bato, dushishikarizwa kwivuza dukoresheje imiti ya Kinyarwanda. Kuko abahanga bagaragaje ko, ivura neza kandi mu gihe kirambye.

Iyo utegura imiti ya kinyarwanda, bisaba kubiha umwanya no kumenya uburyo ki uri butegurare uvuga ngo uyu muti uravuri iki uyu uzavura iki, ukamenya uburyo bitandukanya ubishyira mu bikoresho bitandukanye kugira ngo bizafashe kuvura abantu, buriwe wese azi ngiye kunywa uyu muti umvura iki n'uyu umvure iki.

Abantu dushishikarizwa gutera indabyo, kuko zimwe muri zo ni umuti dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi zongera ubwiza bw'ahantu hakagaragara neza.

Gutunganya umuti w'umuravumba, iyo uwukoze neza ufite isuku kandi uri mu ubuhangarwa, bivura umurwayi neza indwara zo mu muhogo no mu nda, igihe cyose umurwayi awukoresheje biba byizewe.

Umuti ukoze mu gikakarubamba, ufite ubudahangarwa bukomeye cyane, utuma ahora asa neza, imizi yayo igakomera n'ishinya yayo ntago itakaza amaraso.

Gukoresha amaronji ndetse n'indimu birinda uruhu rwawe kwangirika. Uduheri tuza, gusatagurika, kudafatwa n'amavuta, biragufasha kandi mu gihe kirambye, ntabundi bushobozi bigutwaye.

Niba ucuruza imiti, ni byiza ko inyuma wandikaho amabwiriza agenga uburyo ukoreshwamo, igihe uzarangirira ndetse n'ibyo wafata mu gihe wawukoresheje.

Niba ucuruza imiti ya kinyarwanda ukaba ugiye kuyisarura, ni byiza ko ugenzura ibyo ugiye gusaruriramo isuku bifite, abagiye kugufasha gusarura n'isuku yabo kugira ngo hataza kuzamo umwanda.

Imiti gakondo isaba kwitabwaho cyane. Kuko ihingwa mu mirima kandi habonekamo ibyonnyi byinshi, hari amatungo nayo arya ibyo byatsi, ni byiza rero ko dushishikarizwa kuyibungabunga igihe cyose twamenya akamaro kayo.

Abantu bakora mu mazu acuruza imiti, hari igihehe umurwayi aza akugana akubwira umuti akeneye ntawamusuzumye, banza ugenzure indwara arwaye urebe niba ihuye n'umuti ari kukubwira.

Abantu batunganya imiti gakondo, igihe bayisarura bashishikarizwa kwirinda kuyirandura. Kuko ni umuti ukoreshwa buri munsi. Iyo uwuranduye, ejo uragaruka ukawubura.

Imisozi ni ahantu hakunda kuba imvura, hahingwa icyayi, tukakinywa tukamererwa neza, igifu kidakora neza biba byiza kurushaho, iyo imvura yabuze ho hahita hakurura imvura ikahaboneka byihuse.

Umubavu igihe ugiteye mu butaka ruba rusa neza cyane kuko ni ururabyo. Wawusarura ukawutunganya uhumura neza, uwukoresheje ahora yumva amerewe neza.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera imbuto. Izo mbuto zidufasha kugira umubiri mwiza, isura nziza, ndetse no mu nda hazima. By'umwihariko ipapayi, ni urubuto rwiza ku muntu uwo ari we wese, umwana, umukuru, umusaza, umukecuru.

Igiti cyitwa umukotozi kivura indwara nyinshi zitandukanye, harimo gucibwamo, isereri ndetse no kumva udakeneye kurya, kivura mu gihe kirambye kandi ukumva umubiri wawe nta zindi ngaruka zifite.

Umuntu wafashe umushinga wo guhinga igikakarubamba akwiye gusurwa bya buri kanya kandi agahabwa ubufasha butandukanye nk'amahugurwa ndetse n'ibikoresho bifatika.

Kubika imiti mu buryo butandukanye, bituma bigufasha kuyinywa neza utayivangavanze. Ukamenya uwo ugomba kunywa saa sita, nimugoroba, mugitondo.

Kwisiga amavuta ahumura cyangwa ahumuza imyenda, urabanza ukareba niba abantu mubana bitazabagiraho ingaruka mbi. Kuko hari abantu baba barwara indwara z'ubuhumekero, bikaba byababangamira bikabateza kuba bakongera kurwara.